Abantu bicaye hanze y'ibitaro barimo kuganira ,bicaye ku ntebe zo kwegama zikozwe mu mbaho ndetse zitariho imisego ku ruhande hariho imodoka ndetse abicaye abenshi muri bo bafite amakayi mu ntoki harimo n'umwe ukora mu nzego z'umutekano bita dasso wambaye imyenda y'icyatsi.

Abagore babiri b'abayobozi uyu wo ku ruhande yambaye ikote ririmo utudomo tw'umukara ndetse n'umweru undi akenyeye igitambaro mu mutwe yambaye agakanzu keza n'abayobozi baba bayoboye inama.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hamwe baje kwaka no guhabwa ubutumwa bugiye butandukanye, ni mu nama harimo abagabo, abagore ndetse harimo abenshi barimo gutanga ubukangurambaga.

Abantu bagera kuri bane harimo abagore babiri bahagaze ubundi bicaye ku ntebe barimo kugenda basomera ibintu mu gitabo umwe mu bicaye ahaciradiye akana kakiri gatoya ndetse iruhande hari umwanawana w'umukobwa biragaragara ko baje gusaba serivisi zo kwa muganga cyangwa se kuvuza umwana wabo.

Umugabo ufite uruhara ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'agashati karimo uturungo tw'umukara, afite ijerekani ari iruhande rwa robine yiteguye kuvoma amazi ndetse arimo guseka.

Umuntu w'igitsina gore ndetse ahagararanye n'umugabo wambaye akajiri kagaragaza ko akora mu muryango wita ku buzima ku rwego rw'isi ndetse uyu mugore bari kumwe, arimo kugenda amwereka imiti n'uyu mugabo na we akayireba.

Umubyeyi wazanye umwana kwa muganga arimo guseka areba ibyo muganga arimo kugenda abaza uyu mwana, uyu mwana na we yambaye akagofero ndetse umumama na we yambaye ishapure ndetse n'igitambaro cy'umukara.

Abanyeshuri biganjemo abakobwa harimo n'abahungu, aho barimo gufata ifunguro rya saa sita ryiganjemo akawunga, ibishyimbo, ndetse abenshi muri bo bambaye agapfukamunwa.

Imbaga y'abantu benshi bicaye ku murongo harimo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasore, batonze umurongo kugira ngo baze guhabwa serivisi, aha ngaha bicaye bakurikije uko baje bakurikiranye.

Imbaga y'abantu benshi, bambaye amakanzu, yayandi yambarwa n'abantu bakora muri serivisi zijyanye n'ubuzima bambaye n'makarita y'akazi, hagati yabo hariho umugabo w'umuzungu wambaye ikoti ndetse na karuvati.

Umwana muto w'umuhungu urimo kuvoma mazi, ari kuvomera mu gikombe bya bindi bya kera. Ni ku migezi ibiri, umwe uri kugenda umena amazi hasi, uwundi we arimo kuwuvomeraho, ni ho amazi ari kumeneka ajya mu gikombe.

Umwana muto urimo kunywa amazi akoresheje ibiganza iruhande rwe inyuma hariho abantu bahagaze ndetse ku ruhande hariho n'intebe zino za purasitiki, uyu mwana kandi yambaye ubusa biragaragara ko ari gahunda z'umuryango mpuzamahanga wita ku bana.

Umugore uryamye ku gitanda cyo kwa muganga ndetse kuhande rwe hariho umuntu ufite impapuro hariho kandi n'umuforomokazi, urimo kugenda amupima areba ikibazo afite ku kaboko, afite cya cyuma bita icyumvirizo, ushobora kumenya ikibazo umuntu afite mu mubiri, kuko umuganga abyumvira mu matwi.

Ikigo mpuzamahanga cyita ku bana ndetse n'uburezi, iki kigo kibanda cyane cyane ku buzima bw'umwana ndetse kinatera inkunga serivisi ijyana no kwita ku burenganzira bw'umwana.

Abagabo bagera kuri batatu, babiri barimo gusuhuzanya, undi ku ruhande arimo kugenda abyitegereza, ku rundi ruhande kandi naho hariho umugabo w'umuzungu arimo kuganira n'undi mugenzi we bigaragara ko ari ibiganiro barimo kugenda bemeranywa.

Abasore babiri barimo kuganira bose bambaye udukomo ku kaboko, umwe arimo kugenda aganira undi nawe agatega amatwi, bose bafite imisatsi ndetse umwe yambaye agapira k'ubururu undi we yambaye ishati ijya gusa n'umweru.

Abana benshi b'abanyeshuri, ndetse bafite amakayi barimo gushyira hejuru, n'andi ameze nk'ibinyamakuru. Abenshi muri bo bari kubisoma abandi baricaye, ku ruhande hahagaze umwarimu wabo urimo kubareba, inyuma hariyo igitambaro kimanitse, cyanditseho amagambo.

Ikigega kinini cyane, kirimo amazi menshi bigaragaza ko ari bya bindi bitwara amazi biyajyana mu duce tugiye dutandukanye, ndetse ni kinini ku buryo gishobora kugaburira nk'akarere kose.

Umwana muto w'umukobwa yambaye ikanzu y'umutuku ndetse arimo guseka arimo gukaraba intoki arwanya indwara zishobora guterwa n'umwanda arimo gukomera ndetse kuri ya migezi igezweho ya wasage.

Abaganga bagera kuri batatu bafite ibikoresho bigaragaza ibyo bamaze guhugurwa, bambaye imyenda ibakingira kuba bashobora kuba bakandura indwara zigiye zitandukanye, zirimo udupfukamunwa ndetse n'utundi tuntu bakingiye mu mutwe.

Umwana muto uri ku ivomero afite ijerekani arimo kuvoma, aha ngaha ni ya mavomero aba yaregerejwe abaturage y'ibigo bishinzwe amazi isuku n'isukura mu kigo cy'u Rwanda WASAC.

Inyubako zigiye zitandukanye harimo imwe yubatse nk'ikigega. Hariho kandi n'akayira kubatse nka ya mihanda iba iciye mu kirere. Aha ngaha ni ahantu hari amazi menshi ashobora kujyanwa mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bayakoreshe.

Amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu ndetse harimo n'ikirango cy'umuryango wita ku buzima OMS ndetse aya magambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza mu nteruro ebyiri ndetse hejuru yacyo hariho ikirango.

Umwana muto w'umuhungu urimo kuvoma amazi akoresheje indobo arimo gukoresha ikiganza cye anywa amazi kuri ya migezi ya yindi iba iri mu biturage cyane cyane bwa buryo bwo kwegereza amazi mu midugudu.

Umwana muto w'umukobwa arimo gukaraba ndetse anavoma amazi, arimo guseka cyane aranezerewe ndetse arasutamye, arimo kugira ngo arwanye indwara zishobora guterwa n'umwanda cyangwa se indwara ziterwa no kuba wariye ibintu birimo mikorobe.

Ivuriro rigezweho ririmo ikoresho biigiye bitandukanye rigizwe n'ibitanda bishobora kwimurwa umuntu ashobora kuryamaho mu gihe cyane cyane arimo kuvurwa, ibitanda nk'ibi byicarwagamo n'umuntu urimo guhabwa ubufasha bw'ubuvuzi gusa.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abagore, abagabo barimo gufata agafoto ku rwibutso, bamaze gukora inama, harimo abazungu ndetse n'abirabura, ni inama iba yahuje abantu bo mu bihugu bigiye bitandukanye.

Abagabo bateraniye hamwe ndetse bicaye bazengurutse ameza barimo gufata icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, barimo kugenda baganira ku ngingo runaka bagenda bahanahana ibitekerezo buri wese ukabyumva.

Abantu bameze nk'abajyanama b'ubuzima kubera amakanzu bambaye bahagaze mu itente, ndetse kandi barangamiye umuyobozi urimo kugenda abahereza ubutumwa ndetse ni benshi kuko ari umubare munini.

Abantu bicaye barimo kuganira, abenshi barimo kureba ku mpapuro barimo gusoma ndetse bicaye bakoze uruziga abandi barunamye barimo kwandika ndetse hasi hariho uducupa tw'amazi.

Umusilamu urimo kugenda aganirizwa n'umuganga, ndetse umuganiriza yambaye uturindantoki, ndetse yambaye n'agapfukamunwa n'ikirahuri ku buryo mikorobe zidashobora gukwirakwira ziva, kuri uyu musaza zimujyaho.

Abantu bagera kuri batatu barimo kuvoma, umwe afite idomoro yashyize kuri robinee ndetse aya mazi arasa neza kuko aragaragara ko ari urubogobogo, ndetse abandi bari kwitegereza ukuntu arimo kuvoma aterura idomora.

Abantu b'ingeri nyinshi umwe muri bo yicaye abandi barahagaze barimo kugenda bamubaza abandi nabo bakarebera, biganjemo abagabo nta mugore n'umwe urimo, abenshi bambaye imyenda y'imyeru abandi bambaye amajiri ay'umutuku ndetse na twa tundi abantu bambara mu gihe bari gukora umuhanda cyangwa se bari gucunga umutekano.

Umwana muto urimo kuvoma amazi ndetse iruhande rwe hariho umumama urimo kumwerekarekavoma ku ruhande hariho abantu benshi bateranye bategereje kuwugerwaho kugira nabo bavome amazi.

Umwana muto w'umukobwa, wikoreye ijerekani, iriho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana, ndetse arimo guseka cyane, ari kumwe n'umugabo nawe uri kumureba yitegereza iki kirango.

Abantu biganjemo abakora mu buvuzi ndetse n'ababyeyi bamaze kuganira ku nama, cyane cyane yibanze ku nsanganyamatsiko ivuga iti uburyo bwo gukumira no kurwanya ugutwita kw'abangavu.

Ubwoko bwa mikorobe nkuko bigaragazwa n'icyuma cyifashishwa mu gupima bita mikorosikope. Iyi ni ishusho igaragara uko ziba zimeze iyo ziri mu bintu byafashwe urugero nk'ibizamini biba byafashwe.

Abana bashobora kuba bafite ikibazo cy'imirire mibi ndetse baririmo kugenda bahabwa amata ndetse n'abandi bantu .Barimo kugenda bafashwa ndetse aba bana abenshi muri bo nta musatsi bafite biragaragara ko bahuye n'ibibazo by'imirire.

Umugabo wambaye agapira akajya gusa nka orange, yambaye indorerwamo afite inyogosho igezweho ndetse yasanishije ishati cyangwa se umupira n'umwana we ndetse uyu mwana arimo kumukina areba ibiro afite.

Abana babiri barimo kuvoma amazi, umwe arimo kugenda apompa, undi w'umukobwa nawe arimo kuvoma akoresheje akajerekani k'umuhondo, uyu musore arimo kugenda akoresha imbaraga kugira ngo babashe kuvoma.

Abaforomo n'abaforomokazi, bambaye amakarita abaranga. Barahagaze, bari kumwe n'umuyobozi ukomeye, urimo kubaganiriza, barishimanye barimo guseka, aha ngaha barimo gufata, agafoto k'urwibutso.

Umwana mutoya umeze nk'umunyeshuri afite udutasi tubiri turimo amazi, hakurya hariho abantu benshi barimo kumwitegereza biragaragara ko amaze kuvoma amazi mabi kuko inyuma ye hari ikidendezi cy'amazi asa nabi cyane, bigaragara ko ari yayandi aba yararetse igihe imvura iba imaze kugwa.

Inama ndetse n'ibihembo izatangwa muri iyi nama yita kuri serivisi zitangwa mu buzima, izaba muri bibiri na makumyabiri na kane yiga ku buryo imiturire imeze neza ibona aho bashobora kwivuriza.

Abana babiri barimo gukaraba intoki kuri ya migezi, aho umuntu avoma abanje gupompa, ari kubona azamura amazi, kugira ngo akarabe. Ni abana babiri bakiri batoya, b'abahungu.

Umugabo urimo gutanga ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC arimo gutanga uburyo ushobora kwirinda indwara ya kanseri ishobora gufata inkondo y'umura.

Abana bari ku ivomero barimo kugenda barwanira gukaraba, biragaragara ko bakiri batoya biga mu mashuri abanza. Abenshi bambaye impuzankano y'abana biga mu mashuri abanza, barimo kugenda barwanira gukaraba kubera ko uyu mugezi ni umwe kandi bashaka gukaraba mu buryo bwihuse.

Abagore, abagabo bafatanye urunana, biragaragara ko bavuye mu nama kuko bahagaze imbere y'icyumba cy'inama. Barimo gufata ifoto y'urwibutso, biganjemo abaforomo n'abaforomokazi ndetse n'abaganga.

Umwana muto w'umukobwa urimo kuvoma amazi, yambaye imyenda y'ishuri, igizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hanze hariho n'indubo ijya gusa nk'icyatsi ndetse umwana ari kugenda akora isuku yo ku mubiri akaraba intoki.

Umugabo uri ahantu h'agaturage, arimo kugenda ageza ikiganiro ku bamukurikiye biganjemo abagore cyane cyane, ndetse uyu mugabo ntabwo ari wenyine ahagararanye n'undi mugenzi we ndetse ahantu bahagaze ni muri za nzu ziba zubakishijwe imbaho.

Abaforomo ndetse n'abaforomokazi n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, bahagaze imbere y'inyubako iteye amarangi y'ubururu, yanditseho giraba ubuzima, hariho igishushanyo kiriho abantu bafashe abana mu ntoki, ubwo ni ababyeyi umugore n'umugabo bafasha abana.

Abantu bahagaze imbere ku ruganiriro barimo kugenda baganira, biganjemo abamama, abakobwa ndetse n'undi musore ukiri muto we, barimo kugenda baganira ku kibazo kijyanye no kurinda abana ndetse no gushaka uburenganzira bwabo.

Abagore bagera kuri batatu bicaye ku ntebe batonze umurongo, ndetse hariho n'umuforomokazi urimo kugenda abapima yabashyizeho cya gikoresho kigenda gipima uko amaraso arimo kugenda atera mu mubiri, ndetse muganga na we agashyira mu matwi akumva uko bimeze mu mubiri. Ndetse aba bagore bose bambaye ibitenge.

Abagore bagera kuri batatu barimo kuvoma amazi, umwe afite amabase arimo kugenda ashiraho, abandi babiri na bo bari gufatanya bagapompa kugira ngo amazi azamuke, babone uko bayavoma.

Abagabo biganjemo abayobozi bakomeye cyane, harimo n'ab'inzego z'umutekano ndetse imbere yabo hariho umugabo ufite indangururamajwi, arimo kugenda abagezaho ijambo ndetse biragaragara ko ari nko ku murenge, baje kwitabira serivisi zigiye zitandukanye barimo kugenda bahugurwaho.

Abantu benshi bakoraniye hamwe aho bari mu nama, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi arimo kugenda abagezaho ikiganiro, imbere hariho ubutumwa aba bantu bose bateraniye hano barimo kwigaho.

Umwana muto wumukobwa urimo kuvoma amazi afite indobo zisukuye arimo kugenda avoma kuri ya migezi aho bapompa amazi akazamuka ava mu butaka hanyuma abantu bakabona uko bayavoma.

Umuntu urimo gukaraba amazi meza n'isabune muri bwa buryo bwo kurwanya indwara zituruka ku mwanda, byakorwaga cyane cyane mu gihe cy'icyorezo cya Corona virusi, arimo gukaraba intoki akoresheje isabune.

Umwana muto w'umuhungu ufite umusatsi w'injwiri arimo guseka. Ari ku ivomero, arimo kugenda akaba intoki, akanywa akanakaraba mu maso. Ari guseka cyane, arishimye kubera ko arimo kugenda anywa amazi ndetse kandi ari kwitegereza abantu bari kumureba.

Umwana w'umukobwa urimo kuvoma amazi, arimo gukaraba kugira ngo yirinde indwara zishobora guterwa n'umwanda, arimo guseka arishimye, ahangaha ni ya mavomero aba ari ahantu mu giturage aho umuntu yifashisha ipompo kugirango abashe kuvoma.

Abagabo bambaye imyenda yo kwa muganga, biragaragara ko ari inzobere, barimo gutanga ubufasha bw'ibanze ku murwayi warembye cyane. Bamuteraniyeho uko bagera kuri bane bose, barimo kugenda bareba ikibazo uyu murwayi afite ndetse harimo umwe wunamye urimo kugenda amureba ikibazo afite ku gice cyo hejuru ku mutwe.

Umuryango mpuzamahanga wita ku bana; ndetse nk'uko bigaragara mu kirango cyabo harimo umugore uteruye umwana ndetse hasi handitseho amagambo agaragaza ko bita kuri buri mwana.

Abantu bateraniye mu nama barimo kuganira ku ngingo runaka, hari imbere ndetse hagati hahagaze umugabo urimo kubaza ikibazo abandi barimo baramwitegereza abandi barahuze bari kureba mu matelefone yabo.

Abana bakiri batoya, barimo kwidumbaguza mu mazi magari, ndetse biragaragara ko ari mu kiyaga. Gusa bene aya mazi akunze kuba ari mabi, kuko ashobora gutera indwara zikunda guturuka ku mwanda, cyangwa se kurya ibintu bidafite isuku.

Imbaga y'abantu benshi bitabiriye barimo kugenda bafata ibiganiro. Aha ni mu cyumba cy'inama, aho bateze amatwi ibiganiro barimo kugenda bahabwa. Ku meza aho bicaye hariho amazi yo barimo kugenda banywa.

Umwana muto w'umukobwa urimo gukaraba intoki arimo kuvoma ndetse ni kuri ya migezi ya yindi bavoma bapomba bakura amazi munsi mu butaka uyu mwana aracyari mutoya ndetse n'imisatsi ye irazinze.

Umugore urimo kuvomerama amazi mu idomoro y'umuhondo arunamye yiyoroshe igitambaro ku mugongo, umusatsi we ntawuhari yariyogosheshe, ndetse imigezi arimo kuvomeraho igera kuri itatu, umwe niwo ufunguye iyindi yose ibereye aho.

Abagabo n'abagore bishimye cyane, barimo kubyina, bambaye amakanzu nk'ay'abajyanama b'ubuzima. Bahagaze imbere y'umugabo ufite uruhara, gusa afite n'umusatsi. Yambaye n'ikoti ry'umukara, ni umuzungu, yambaye indorerwamo. Barimo kumubyinira, bamusekera.

Umukobwa urimo kuvoma ni hahandi mu giturage, aho arimo kuvomera ahantu hanitse imyenda yiganjemo amapantalo, amabase, ndetse kandi aha ngaha arimo kugenda akora amasuku agiye atandukanye.

Imbaga y'abantu benshi bitabiriye, hariho ubukangurambaga burimo gutangwa hano, hari itente, hari abaturage bagiye batandukanye, abana, abagore, abagabo, bose baje kwihera amaso mu bikorwa birimo kubera aha ngaha.

Umugabo wambaye ishati ifite uturongo tw'umukara, yambaye n'ipantaro y'umukara ndetse ahagaze kuri robine arimo kuvoma amazi, arimo guseka, aranezerewe ndetse yariyogoshesheje nta musatsi afite.

Umubyeyi wazanye umwana we kumukingiza aramuteruye uyu muganga nawe arimo kugenda amutera urushinge afite agashinge gatoya uyu mwana bamuzanye kufatisha inkingo zigiye zitandukanye umwana agomba guhabwa mu gihe akiri mutoya.

Abana bagera kuri batatu b'abanyeshuri barimo kugenda bakaraba intoki ndetse bafite n'isabune, ni kuri ya migezi ino igezweho ndetse n'imigezi igera kuri itatu, barishimye cyane bigaragara ko biteguye kurwanya indwara zishobora guterwa n'umwanda.

Umuntu waje gusaba serivisi arahagaze, uri kumwakira afite mudasobwa imbere ye, arimo kugenda ashakisha areba ibyo umuntu arimo kumusaba. Kuruhande kandi hariho n'undi mugenzi we wicaye wambaye ikanzu yo kwa muganga, bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'abandi bose bahari baratwambaye.

Ikigo cyo mu Rwanda gishinzwe amazi isuku n'isukura, ni cyo kigenda gikwirakwiza amazi mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu, umuntu ushaka gufata ifatabuguzi ry'amazi ni ho yishyura amafaranga ndetse bakamuha serivisi zitandukanye zo kumwesitarira amazi.

Inama yaremeye imbere y'ikigo nderabuzima, aho irimo gutangwa n'abagize inzego z'umutekano, harimo abadaso ndetse n'abaforomo n'abaforomokazi. Aho bicaye, haparitse imodoka y'ivatire.

Umugore waje guhabwa urukingo. Barimo kumutera urushinge gusa uyu mugore atinya urushinge kuko arimo gushaka kwirukanka ndetse kandi ari gushinyiriza cyane. Inyuma hariho n'umuntu umufashe kugira ngo atanyeganyega.

Umugore n'umugabo bari kumwe n'umujyanama w'ubuzima, arimo kugenda abigisha kuri serivisi zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima ndetse uyu mujyanama w'ubuzima yambaye ikanzu y'ubururu ndetse uyu mugabo n'umugore bafatanye ku rutugu.

Imbaga y'abantu benshi bitabiriye inama. Barimo kugenda baganirizwa, biganjemo abakora mu bijyanye n'ubuzima, harimo abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bitabiriye.

Abagabo babiri bambaye amakoti barimo gusuhuzanya, umwe muri bo afite igitabo ndetse agifite mu ntoki, barimo kugenda baganira, bigaragara ko hari ibintu bemeranyijeho, bigaragara ko bamaze gusinya amasezerano.

Abantu b'ingeri zitandukanye, bicaye barangamiye umugore uhagaze imbere yabo, arimo kugenda abagezaho ikiganiro, ndetse bamwe bari mu matelefone, abandi bari kureba uyu mugore urimo gutanga ikiganiro.

Umwana muto w'umunyeshuri wambaye impuzankano yo mu mashuri abanza, arimo gukaraba intoki, agenda afungura ya migezi iba yarakozwe mu ndobo, yayindi yifashishwaga mu gihe mu Rwanda hari hatewe icyorezo cya korona virusi.

Abana b'abanyeshuri bakoranyirijwe hamwe, barimo kugenda bigishwa, bicaye barambuye amaguru, hariho bamwe b'abazungu, abarimu barimo gutoza bano bana, abandi barimu bamwe barahagaze, abandi bambaye amakote y'imikara.

Umugabo wambaye agapira k'umuhondo yambaye indorerwamo, imbere ye hari umwana mutoya utewe n'umugore ufite umusatsi mwinshi udasokoje, uyu mwana kandi barimo kugenda bamuhereza ifunguro, bari muri rwa rwego rwo kurwanya imirire mibi.

Abantu bagiye batandukanye biganjemo abantu bakora mu buzima ndetse abenshi bambaye ingofero z'imyeru ndetse harimo n'abambaye ingofero z'ubururu, bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri nagira inama kwisuzumisha ndetse bafasha abantu kurandura kanseri y'inkondo y'umura burundu.

Umugabo w'umusiramu, ari kumwe n'abandi bagabo bagera kuri babiri, inyuma yabo hariho abana benshi, barimo kugenda basobanurirwa uburyo bugiye butandukanye bwo kwitwara neza, cyane cyane kubijyanye n'ubuzima.

Umuforomokazi uri kumwe n'abagore bagera kuri batatu arimo kugenda abafasha, uyu uri ibere arimo kugenda amupima areba uko amaraso ye agenda atera bareba ko adafite umuvuduko w'amaraso kugira ngo bamenye ikibazo ubuzima bwe bufite.

Abazungu barimo kugenda baganira ku ngingo zigiye zitandukanye, ku meza hateretse amacupa y'amazi, barimo kugenda baganira ku ingingo yerekeye umwana, nk'uko bigaragazwa n'amagambo y'icyongereza, avuga ko icyizere kuri buri mwana.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba bicaye kuri za ntebe umuntu yicaraho akegama, ndetse hariho umugore witandiye muri bwa buryo bw'abantu bagize idini y'Abayisilamu, ndetse abo abantu bose barimo kugenda bakurikirana ikiganiro ari kugenda abaha, ndetse bicaye mu matsinda barimo kugenda baganira.

Umukobwa w'umunyeshuri urimo gukaraba intoki ni muburyo bwo kurwanya indwara ziterwa n'umwanda aho arimo gukaraba intoki n'isabune kugirango abashe kwiyitaho agire isuku kandi umubiri we uzire inzoka.

Umubyeyi wazanye umwana we kumuha ibiryo birimo intungamubiri uri kubimuha yambaye indorerwamo, afite umusatsi mwinshi,,yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'uyu mwana bateruye yambaye agapira k'umuhondo.

Umugore n'umugabo barimo kuvoma amazi kuri ya migezi igezweho ya wasake, hariho n'umuntu urimo kugenda abavomesha yambaye akajiri ka orange arimo kugenda baganiriza ababwira ko bagomba gufungura amazi makeya kugira ngo ngo bataza kuyamena kuko amazi yabaye ayibura muri aka gace.

Abantu bateraniye hamwe bakoze uburyo b'uruziga, hagati yabo harimo umuyobozi ndetse buri wese afite terefone ye arimo kugenda areberaho ndetse ni za terefone zigezweho umuntu ashobora kwifashisha areba amakuru.

Abaganga babiri barimo kugenda bavura umugabo w'umusaza bari kureba amenyo ye ikibazo afite, bari kumwasamisha ndetse na we akareba hejuru akasamura kugira ngo umuganga agende areba ikibazo amenyo ye afite, aragaragara nk'umuntu ukuze ndetse yambaye imyenda y'umukara.

Ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana yunisefu, kigaragazwa n'umugore uteruye umwana amusimbiza amuterera hejuru, bari mu gishushanyo kigaragaza umubumbe w'isi, ndetse ku ruhande gikikijwe n'ibishushanyo bimeze nk'iby'ingano.

Ikigo cy’amashuri kirimo abana banezerewe n’abiga mu mashuri abanza, barimo kubyina ari nako bashyira ibiganza hejuru, bari mu kibuga, ni kwa kundi abana baba barimo kubyina bashimisha abayobozi ndetse n’abarimu babo.

Umugabo w'umusore w'umuzungu, ahagaze imbere y'icyapa kigaragaza ibitaro bya CARAES bya Ndera. Aho bavura indwara zitandukanye ziganjemo izo mu mutwe no ku bantu bafite ikibazo cyo gusara.

Abagore babiri, bahagaze imbere y'imbaga nyamwinshi; barimo kuganira umwe afite indangururamajwi, ni kwa kundi umuntu aba abajije ikibazo, umuntu yaza gusubiza, akegera imbere bakamuhereza indangururamajwi.

Imbaga y'abantu benshi, bamwe barahagaze abandi baricaye; aha ngaha bari mu nama. Ni cyagihe baba barimo gufata agafoto ku rwibutso, kugira ngo igihe cyose bazaba bari kureba ayo mafoto, bajye bibuka ibyo bihe bagiranye.

Abantu benshi bicaye ndetse n'abandi bahagaze inyuma yabo, barimo gufata ifoto y'urwibutso bigaragara ko bavuye mu nama runaka, ab'imbere baricaye ab'inyuma barahagaze kugira ngo bose baze kugaragara mu ifoto.

Ubutumwa bw'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC, buvuga ku munsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe uzaba mu kwezi kwa cumi tariki icumi.

Inama zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ndetse cyane cyane zirareba buri muntu wese. Ni mu ntego igaragaza ko bakeneye ubuzima bwiza bwo mu mutwe kuri buri muntu wese.

Ababyeyi bagera kuri batatu, bicaye imbere y'umugabo. Arimo kugenda yikandakanda, yicaye ku gatebe, ashobora kuba yavunitse. Barimo kugenda bamugira inama, bamubwira icyo ashobora gukora, kugira ngo abashe gukira.

Umukobwa wifashe mu mutwe ndetse asa n'uwihebye yifashe mu mutwe arimo gutekereza cyane ku ruhande hariho undi muntu urimo kugenda amuganiriza ndetse anamukoraho ari nako agenda amuhumuriza.

Umugabo ufite indangururamajwi, ndetse arimo kugenda atanga ikiganiro cyerekeye ubuzima bwo mu mutwe bumeze neza, ndetse ku bantu, bose ndetse n'igihe cy'umunsi mukuru mpuzamahanga wita ku buzima bwo mu mutwe.

Umugore ugeze mu za bukuru ndetse biragaragara ko atuye ahantu h'icyaro kuko ahantu atekeye ni ku mashyiga ndetse isafuriya yatetsemo, birasa nk'aho idaheruka kozwa ndetse biragaragara ko uyu muntu ari umuturage cyane.

Umugore usa nkaho ari uwo mu cyaro, afite isuka mu ntoki ndetse yikoreye n'igitebo. Biragaragara ko avuye mu murima ndetse iruhande rwe hari inzu isakajwe amategura.

Umukecuru wicaye hagati y'abana benshi, biragaragara ko atari abe, bameze nk'impunzi bafite ibibazo bijyanye n'imirire, abenshi umushatsi wabereyeho ndetse abandi nabo imyenda bambaye ntabwo isa neza.

Abantu bagizwe n'inzego z'umutekano higanjemo polisi, bafite icyapa cyanditseho kurwanya ihohoterwa ndetse bavuga ko ari inshingano zabo. Bigaragara ko barimo kugenda mu muhanda bakora ubukangurambaga.

Abantu bari mu bukangurambaga bugiye butandukanye, aho bicaye babiri babiri, umwe ari kumwe n'umuntu urimo kumuhugura, imbere hariho ikimodoka kinini giparitse, bya bindi byifashishwa mu gihe barimo gutanga ubukangurambaga mu biturage, ndetse n'ahandi hantu hakoranyije abantu benshi.

Umugore uteruye mwana ndetse ntabwo ari umwe ni abagore batatu, babiri bateruye abana ndetse hari n'undi uri kubakira, urimo kugenda baganiriza, ashobora kuba ari kubahiriza inama zijyanye no kwita ku mikurire y'umwana.

Abantu bicaranye umwe afite indangururamajwi ndetse no kugenda atanga ikiganiro, imbere ye hariho mudasobwa ndetse n'amazi ateretse ku meza abandi barimo kugenda bamureba bateze amatwi ibintu arimo kugenda avuga.

Abagabo bifotoreje imbere y'itente barimo kugenda baganira, ni kwa kundi baba bafata ifoto y'urwibutso nyuma y'uko inama iba imaze kuba, abangabo n'abagore abagabo barimo kugenda bafata agafoto.

Umugabo urimo kugenda atanga ikiganiro ndetse hari abamuteze amatwi biganjemo abagore barimo kugenda bamurangamira, arimo gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyane cyane bibanda ku hantu bakorera.

Umukecuru ugaragara nkaho yituriye mu cyaro arimo gutekera hanze ndetse acanye kumashiga, iruhande rwe hari umufuniko yapfunduye ku isafuriya ndetse n'igikombe, yambaye ibitenge ndetse arimo guseka.

Umugore ndetse n'undi mugabo, bafashe umugabo uri hagati yabo, usa naho afite ikibazo cyo mu mutwe, bagiye bamwishingikirijeho arimo kureba nabi cyane kandi umusatsi we ntago uheruka gusokozwa, imyenda ye nayo ni inshwabari bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo wifashe ku gahanga, yambaye amapingu, araziritse amaguru, yambaye n'igitenge. Biragaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kuko abantu benshi baba bahambiriye gutya, abenshi aba ari n'abasazi.

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'abakobwa bahagaze bafata ifoto y'urwibutso, ku ruhande hariho umugore w'umuzungu wambaye ikote, hagati kandi yabo hariho umugabo wambaye karuvati ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

umugabo wambaye utwabari ndetse arimo kugenda mu muhanda .Umusatsi we wamwireYeho, imyenda ye yaracikaguritse, bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe ndetse biragaragara ko atazi iyo ajya n'iyo ari bugarukire.

Umugore wambaye agapfukamunwa ku kaboko ndetse yambaye n'udukomo, afite amaherena yambaye n'akajiri, arimo kugenda aganiriza abantu ndetse ashize amanga asakuza cyane, inyuma ye hariho abandi bicaye, barimo kumwitegereza ibyo ari kugenda avuga.

Abantu bateraniye hamwe batatu barasa neza, ariko ku rundi ruhande hariho ababyeyi babiri ndetse n'akana bambaye imyenda idasa neza, biragaragara ko barimo kuganirizwa ndetse basuwe n'abashyitsi.

Umwana muto w'umunyeshuri ba bandi biga mu mashuri y'incuke, yambaye agashati k'umweru na karuvati, arimo kurya akabiswi, afite imisatsi miremire ndetse izinze, arimo kugenda aseka.

Umugore wicaye ku gatebe asa n’uwihebye, inzu ye yarahomotse ntabwo isize irangi, idirishya rirafunguye asa n’uwihebye, imbere kandi hasashe umukeka ndetse arimo kugenda atekereza ibibazo afite.

Umubyeyi uteruye mwana we arimo kugenda amusekera, bigaragara ko ageze muri cya gihe bita igisekeramwanzi, ndetse arishimye cyane. Uyu mubyeyi nawe arimo kugaragaza amenyo ye uko ari mirongo itatu n'abiri.

Ingeri z'abantu benshi bari mu nam,a aho hano hicaye abagore babiri barimo kugenda baganira. Ni umuforomokazi urimo kuganiriza uyu mugabo, noneho arimo kugenda amugira inama.

Umugore n'umugabo barimo kuganira, ndetse aho bicaye ku meza hariho icupa ry'amazi, umugore arimo gutanga igitekerezo umugabo nawe akandika afite igitabo arimo kugenda yanyandikamo.

Ikigo cya isange wani sitopu senta, ni aha ngaha, ni aho batangira ubufasha bugiye butandukanye, cyane cyane ku bantu bahohotewe, ikindi kandi ahangaha barengera abana ndetse n'abagore bahohotewe.

Umugabo wambaye neza arimo gusuhuza undi mugenzi we wambaye imyenda y'ubucoce. Umusatsi we ntaheruka kuwusokoza, biragaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe. Imyenda yambaye, haba ipantaro, ikabutura yose ni ubucocero.

Amenyo y'umuntu cyane cyane agaragazwa n'ishusho ya bya byuma bisikana, bifotora bikagaragaza ishusho y'umuntu, imiterere ye cyane cyane mo imbere mu mubiri.

Amenyo ya muntu agaragazwa n'ifoto yafashwe na bino byuma by'ikoranabuhanga bishobora gufotora mo imbere mu mubiri bikagaragaza ibice bimwe na bimwe by'imbere mu mubiri, mu magufa ndetse n'imitsi, biragaragaza amenyo cyane cyane ibice bimwe na bimwe byangiritse.

Umugabo urimo guseka, arimo kwerekana ibice bigize amenyo, ni imfashanyigisho igaragaza amenyo ari mu mubiri wa muntu. Arimo guseka amenyo ye arasa neza, biragaragara ko yayogeje. Ndetse kandi n'umusore ukiri mutoya n'agasatsi ke ni gakeya, akitaho cyane.

Umwana ukiri mutoya waje kwa muganga, yambaye agapfukamunwa k'umutuku. Umuganga arimo kugenda amuvura kugira ngo arebe ikibazo afite mu kanwa. Arimo kureba amenyo ye, ndetse uyu muganga ari kumwe n'undi mugenzi we w'umukobwa ufite imisatsi izinze.

Udukoresho twinshi turambitse hasi dukoresha kwa muganga, biganjemo udukoreshwa mu gihe bari kubaga, igihe bari gukura umuntu iryinyo ndetse n'udukoresho twinshi twifashishwa n'abaganga, igihe barimo gutanga ubufasha bwo kubaga.

Umwana muto barimo kuvura amenyo, barimo kumujyamisha, muganga akagenda afata agakoresho kabugenewe kagenda kareba ikibazo umuntu afite mu menyo, arimo kugenda amurika akareba ikibazo uyu umwana afite, arimo kugenda amuvura kugirango arebe niba ari iryinyo ryangiritse abe yarikura cyangwa se irikeneye guhomwa abe yarihoma.

Umugabo uririmo gukora isuku y'amenyo akoresheje akadodo keza k'umweru ndetse amenyo ye arererana cyane biragaragara ko yayakoreye isuku, aka kadodo kifashishwa mu gukura imyanda yahagamye mu menyo.

Umugabo urimo gukora isuku y'amenyo yifashishije akadodo. Kakandi gasukura amenyo gacishwa hagati y'aho amenyo ahurira, mu buryo bwo gukuramo imyanda iba yahagamye mu menyo. Amenyo ye arererana kuko yayagiriye isuku.

Umugabo urimo koza amenyo ye akoresheje akadodo gasa neza k'umweru arimo kugenda agacisha aho amenyo agiyeya ahurira kugira ngo asukure amenyo ye aragenda akuramo imyanda iri hagati mu menyo yambaye ubusa ndetse afite igitambaro cy'isuku ku rutugu.

Muganga kirimo ahantu umuntu ashobora gukarabira intoki, harimo utubati ndetse hejuru harimo amatara n'ikindi cyuma cyifashishwa mu gutanga umwuka, ndetse biragaragara ko aha ngaha ari muri biro y'umuganga mukuru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zigiye zitandukanye hariho iyicarwaho n'umurwayi mu gihe barimo kumuvura, hariho kandi n'ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga harimo n'ibitsinga bigiye bitandukanye bigiye bicomekeranya.

Umugore urimo gukora isuku y'amenyo yifashishije akadodo kabugenewe, ni bwa buryo bwo gufasha amenyo uyasukura, ukura imyanda yagiye ihagama hagati y'amenyo.

Umugabo urimo koza amenyo, avuye mu bwogero, afite ka kadodo umuntu ashobora gukoresha yoza amenyo ye, agenda akuba hagati y'aho amenyo agiye ahurira, kugira ngo arwanye umwanda ndetse anasukure amenyo, ayirinde kuba yacukuka cyangwa se kuba yakuka.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye agapira k'umukara, arimo kugenda apfundura ibinini, yambaye indorerwamo imvi ze zabaye uruyenzi. Arimo kugenda avoma amazi kugirango abashe kunywa imiti. Bigaragara ko ashobora kuba afite indwara runaka.

Abaganga babiri b'inzobere mu kuvura amenyo, barimo kugenda bavura umugabo uryamye hasi, bifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga, ndetse barimo kugenda bamurika mu kanwa bareba amenyo afite ikibazo, ari nako bayakuramo andi nayo bakagenda bayahoba.

Amenyo y'umuntu, aho aba yafotowe na bya byuma by'ikoranabuhanga, bishobora kwifashishwa mu gupima umuntu, bifotora bikagaragaza uko imbere mu mubiri hateye, byifashishije uburyo bwabugenewe.

Umugabo ufite imfashanyigisho iriho amenyo atondetse ku murongo ndetse arimo guseka biragaragara ko yogeje amenyo ye, arishimye ari kugenda atungaho agaragaza ayo menyo ye uko ameze ndetse biragaragara ko ari ahantu hari amenyo uko ari mirongo itatu n'abiri agize umubiri w'umuntu.

Umugore urimo gukora isuku y'amenyo arimo guseka yikanira ndetse afite ka kadodo umuntu akoresha asukura amenyo, agenda akura imyanda yafashe mu menyo hagati ndetse kano kadodo ni keza cyane kuko gakura imyanda yasigaye mu menyo cyane cyane ibisigazwa by'ibiryo biba byasigaye umuntu arimo kurya.

Umwana muto urimo gukora isuku y'amenyo yifashishije umuti ndetse n'uburuso, arimo kugenda yoza amenyo ye kugira ngo agaragare neza ndetse ni n'uburyo bwo kuyakomeza kugira ngo ataza kwangirika.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe zigiye zitandukanye iriho intebe ndende umuntu ashobora kwicaraho mu gihe barimo kumuvura bamumwohereza ubutabazi bw'ibanze mu buryo bw'umwihariko, ibi byumba bikunze kuboneka mu bihugu by'i Burayi.

Igikoresho cy' imfashanyigisho abantu biga kuvura amenyo bigiraho ndetse uyu muntu barimo kumutoza uburyo ashobora gukura iryinyo gihe ryagize ikibazo, ndetse barimo kugenda bamutoza gukoresha bino byuma by'ikoranabuhanga.

Umuntu uri kwa muganga basizeho agakoresho, barimo kumuvura, barimo kureba n'amenyo ye ko haba hari ikibazo afite, ni abaganga bagera kuri babiri, barimo kugenda bamwitaho, kugira ngo barebe ko yamera neza.

Umugore n'umwana barimo koza amenyo, barimo kurebana, uyu mumama arimo kugenda atoza uyu mwana w'umukobwa uko ashobora koza amenyo akoresheje uburoso ndetse n'umuti w'amenyo.

Umwana muto urimo kugenda bigisha uburyo yafata neza amenyo ye, uyu muganga urimo kumwigisha afite imfashanyigisho iriho igishushanyo cy'amenenyo ya muntu, uko ari mirongo itatu n'abiri, kandi afite uburoso arimo kugenda yereka uyu mwana uko bagenda boza amenyo.

Umugore ukiri mutoya ufite imisatsi izirikiye inyuma ndetse y'umukara, umuganga arimo kugenda asuzuma amenyo ye, ndetse urimo kumupima afite akuma arimo kugenda akoza mu kanwa, ndetse yambaye n'agapfukamunwa, uturindantoki ndetse n'ishati yabugenewe yo kwa muganga, mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye indorerwamo, arimo guseka ndetse atunze urutoki ku menyo ye, afite ubwanwa ndetse bigaragara ko afite isuku, yambaye n'agapira k'umweru, arimo guseka cyane arishimye.

Umugabo wambaye ikanzu za zindi zo kwa muganga, ni ikanzu y'umweru yambaye n'isaha ndetse arimo guseka yerekana amenyo ye. Yicaye kuri za ntebe umuntu ashobora kwimura cyangwa se akazizizengurutsa ajyana mu cyerekezo ashaka.

Umuntu urimo gukura amenyo bifashishije tw'utwuma twabugenewe bakuramo iryinyo, rishobora kuba byarangiritse; ryacitsemo cyangwa se rishobora kuba rifite ibipfumure barikuramo kugira ngo umuntu abashe kugira amahwemo cyangwa se bashyiremo andi yo kurisimbura.

Umupapa n'umwana we barimo gukina umukino barimo kugenda bazengukanaho, umwana nawe afite umupira arimo kugenda agerageza kureba ko yatsinda, hanyuma umupapa nawe akagenda amutangira.

Umuryango wishimye cyane ugizwe n'abagore babiri, umwe ni mukuru cyane, afite umusatsi urimo imvi, uwo hagati w'umumama yambaye indorerwamo ndetse n'akandi kana na ko karimo guseka. Barimo kuganira ndetse baranezerewe.

Imbaga y'abagore benshi biganjemo abageze mu zabukuru, bicaye muri za ntebe za purasitike z'umweru, barimo kugenda bareba hejuru barimo gutega amatwi umuntu urimo kubaha ikiganiro, aba ngaba kandi, higanjemo abageze mu za bukuru gusa.

Umugabo urimo kugenda areba ku kantu kameze nk'isaha, ni twa tundi dupima uko amaraso arimo kugenda atembera mu mubiri, bigaragazwa n'uko umutima urimo gutera. arimo kugenda arebaho, areba ibipimo uko bimeze.

Umukecuru ufite twa twuma bagenderahora abantu bageze mu za bukuru, ari kumwe n'umukobwa ufite igikapu mu ntoki, uyu mukobwa yambaye ikoti ndetse afite n'ibaji mu ijosi, uyu mukecuru kandi yambaye ingofero y'ubudodo ndetse yambaye na furari.

Umugore n'umugabo barimo gukora imyitozo ngororamubiri, umugore ni umuzungu, naho umugabo mu umwirabura, barimo kugenda bakora imyitozo ngororamubiri birukanka, bagana mu duce tugiye dutandukanye ari nako bagenda baganira.

Abagore b'abacuruzi barimo kugenda baganira, biganjemo abacuruzi b'inyanya, ndetse inyuma yaho hariho amaronji. Ahangana ni mu isoko aho ushobora kugurira imbuto, ndetse ukaba ushobora kuhagurira n'inyanya zo gukoresha mu biribwa.

Abagore babiri bari kumwe, harimo umwe ugeze mu za bukuru ufite imvi zabaye uruyenzi, ku ruhande harimwe n'undi ukiri mutoya, arimo kugenda amufasha gukora imyitozo ngororamubiri, amufasha kuzamura icyuma kugirango ngo akore imyitozo.

Umugabo ugeze mu zabukuru ndetse n'undi mugore bicaranye nawe ukuze, barimo gufata agacyayi barimo kuganira, inyuma yabo harimo umugabo w'umuzungu wambaye indorerwamo ndetse afite n'ikarita imuranga ayambaye mu ijosi.

Abagore bagera kuri batatu barimo kugenda baganira bareba utuntu muri telefone, uyunguyu ufite telefone arimo kugenda abereka yambaye indorerwamo ndetse arimo kugenda abasobanurira na bo bakagenda bahengereza, umwe yambaye ingofero y'umweru ndetse y'urubaraza undi yambaye ingofero y'ubudodo.

Abantu bishimye cyane bamanitse intoki hejuru, bamwe bamanitse ibimera, abandi barimo baragaragaza intoki zabo kwa ku ndi abantu bifotoza bakora akamenyetso kagaragaza amahoro, bifotoreje mu murima urimo ibihinyigwa bigiye bitandukanye bigizwe n'amasaka ndetse baragaragara ko ari abahinzi.

Umugabo wicaranye n'abana be babiri barimo gufata ifunguro ndetse biragaragara ko tumeze nk'amandazi ndetse aba bana biragaragara ko ari abuzukuru be kuko arashaje.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umuforomokazi arimo kugenda amufasha kugirango ngo abashe gukira, arimo kugenda amugorora, amugira inama y'ibyo yakora kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umukecuru urimo guterura icyuma mu kaboko kamwe, arishimye cyane arimo guseka. Abandi bari inyuma baramurangamiye cyane. Bigaragara ko bari kumutoza gukora imyitozo ngororamubiri kuko kuyikora ntibigendera ku myaka.

Umuforomo uri kumwe n'umugabo ugeze mu za bukuru ufite imvi zabaye uruyenzi, arimo kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, amufasha guterura icyuma kugira ngo umubiri we umere neza.

Umugore wenda kugera mu zabukuru arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo guseka arimo gutereka amaso ndetse arimo gukora iyo bita pompaje kwakundi umuntu amanuka ntakoze inda hasi ndetse n'ibirenge bye, amavi ntakore hasi.

Umugabo ugeze mu za bukuru arimo gufata ifunguro ryiganjemo imbuto ndetse ariho umudamu urimo kugenda amusukira icyo kunywa ndetse biragaragara ko ari ji yo mu maronje, uyu musaza kandi arimo kugenda afata n'imiti.

Umugabo ufite ikaye yayimbitse hasi arimo kugenda yandika, yambaye indorerwamo zimufasha kugenda areba neza ndetse arimo kugenda akora ubushakashatsi bugiye butandukanye ari na ko agenda akora inyandiko.

Umusaza ugeze mu zabukuru urimo kugenda afata imiti, uyu muntu bari kumwe ni umuforomokazi afite imisatsi miremire y'umukara, arimo kugenda amwereka uburyo agomba gufata imiti ndetse anamufasha kugenda ayifata, arimo kumusukira ibinini uyu musaza na we agafata ikirahuri cy'amazi kugira ngo anyweshe.

Umugore n'umugabo bigaragara ko bageze mu za bukuru, barimo kugenda basoma ndetse uyu musaza afite agakombe karimo imiti bigaragara ko uyu mukecuru arimo kugenda amwereka uko yafata neza iyi miti yandikiwe na muganga.

Umukecuru ufite imvi zabaye uruyenzi ndetse yambaye indorerwamo. Yifashe ku munwa afite n'ikirahure cy'amazi. Arimo kugenda ayanywa, arimo kuyanywesha imiti kugirango ngo yivure uburwayi afite.

Umuforomokazi urimo kuganira n'undi mugore ugeze mu za bukuru arimo kugenda amufasha kubona imiti, imbere ye hariho ikirahuri cy'amazi ndetse n'ibinini uyu mugore ugeze mu za bukuru arimo kugenda anywa.

Abagore babiri barimo kuganira nI Umuforomokazi urimo kuganiriza uyu mubyeyi ugeze mu za bukuru, barimo guseka ndetse kandi imisatsi yabo irazinze, aha ngaha ni kwa kundi abaforomo baba baganiriza abantu bageze mu za bukuru.

Umugore barimo guhereza igikapu ni muri bwa buryo baba bafasha abantu batishoboye hariho imbaga y'abantu benshi barimo kureba uko iki gikorwa kirimo kugenda uyu nguyu bahaye iki gikapu nawe aranezerewe.

Umugabo ugeze mu za bukuru urimo kugenda afashwa n'umuganga w'umuzungu ndetse uyu mugabo yambaye indorerwamo afite n'iMvi. Uyu muganga arimo kugenda amufasha arimo kubanga igipfunsi uko biri kose ari kumwereka uburyo yarambura ingengo.

Umugabo ugeze mu zabukuru, arimo kugendera ku kabando, hariho kandi n'umuganga urimo kugenda amufasha kugenda atera agatambwe, arimo kugenda amuganiriza ari nako bagenda baseka, uyu muganga arimo kumuha ubufasha bugiye butandukanye.

Abasaza babiri bambaye ingofero z'urubaraza barimo kugenda bakoma mu mashyi bambaye ya myenda ya kinyarwanda biragaragara ko bari ahantu habereye ibirori ndetse biragaragara ko ari abajyanama.

Umugore ugeze mu zabukuru ufite imisatsi y'imyeru, ari kumwe n'undi mudamu ukiri mutoya, barimo kugenda baganira baseka barimo gukina ikarita, barishimye ni ukuvuga ngo barimo kugenda baganira bumva inama z'umukuru, barimo kugenda basunika iminsi, ari nako bacuma amasaha.

Abagore n'abagabo ndetse abenshi bageze mu za bukuru. Umukecuru umwe arimo kugenda aboha akantu kameze nk'agaseke, harimo umusaza urimo kugenda baganiriza ndetse n'umukecuru, abenshi muri bo babagabo bambaye zino ngofero Abasilamu bambara.

Umugabo n'umugore barimo kuganira, bageze mu za bukuru, barimo gusangira ifunguro ari nako baganira, imbere hariho amasahani, arimo icyo kurya ndetse n'igikombe kirimo amazi yo kunywa.

Umugabo ugeze mu zabukuru, aricaye arimo kuganirizwa n'undi mukobwa ukiri mutoya, ukenyeye igitambaro mu mutwe. Uyu musaza kandi afite imvi zabaye uruyenzi, gusa aragaragara nk'umuntu ufite amafaranga.

Umugabo ugeze mu zabukuru ufite imvi zabaye uruyenzi. Ari kumwe n'undi mumama urimo kugenda amuganiriza. Ku meza kandi hariho ikirahuri cy'amazi, uyu muganga arimo gufasha uyu mugabo ugeze mu zabukuru gufata imiti.

Umugore ubyibushye ndetse yambaye amaherena ku matwi, afite ikirahure mu ntoki, afite n'ibinini mu kundi kuboko arimo kugenda abyitegereza ndetse yiteguye kunywa ikinini akinywesha amazi, arimo kugenda areba uko ikinini kimeze.

Inama yateraniyemo abantu benshi aho bari kwizihiza umunsi mukuru wo kurwanya icyorezo cya Sida, imbere barimo kubyina imbyino gakondo aho hari abagore barambuye amaboko barimo kugenda babyina.

Inzobere zijye zitandukanye mu buzima, bambaye imyenda ipfutse ahantu hose ndetse bambaye n'udupfukamunwa barimo kugenda baganira, ubanza bagamije kurwanya icyorezo runaka. Bakoraniye hamwe ndetse bari kuganira.

Inama zigiye zitandukanye zigirwa umubyeyi ndetse n'abana bigaragaza ko ari uburyo bwiza bwo gukoreshwa mu rwego rwo kurwanya igwingira, ni inama zigiye zitandukanye zigirwa abagore ndetse n'abantu barera abana.

Abantu benshi bakoranyeho biganjemo abagabo n'abagore, abagabo benshi bageretse akaguru ku kandi cyane cyane abicaye imbere, hafi ya bose bambaye amakoti ndetse n'amakaruvati bitegereje imbere ku muntu urimo kugenda abahereza ikiganiro.

Ubutumwa bwiganjemo serivisi z'ubuzima aho bari kugira inama uko abantu bashobora gutabara ubuzima bwabo cyane cyane baburinda Kanseri, ni ubutumwa bw'ubukangurambaga bwo kurwanya Kanseri.

Ibivuga ku cyorezo cya Corona virus. Barimo kuvuga uburyo ushobora gufata urukingo ndetse aragaragaza umuntu wicaye n'umuganga arimo ku mutera urushinge amutera urukingo rwa Corona virus.

Umugabo umeze nk'umwarimu, arimo kugenda aganiriza abana b'abanyeshuri, aha ngaha arimo kugenda abafasha kumenya uburyo barwanya ibibazo bikunze kugaragara ku bantu barwaye umutwe.

Abayobozi bateraniye mu nama, barimo kugenda bageza ikiganiro ku bitabiriye inama. Bafite mudasobwa imbere yabo ndetse bafite n'indangururamajwi kandi imbere yabo hateretse amazi yo kunywa. Barimo kugenda baganira ku buryo bwo guhagarika icyorezo cya Mariburu.

Abagabo bateraniye ahantu hamwe gusa harimo n'abagore bake. Umwe muri abo bagore afashe indangururamajwi ndetse arimo kugenda atanga igitekerezo, abandi nabo bagiye bamuteze amatwi. Ni mu nama yabaye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na...

Abayobozi biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima bakuriye ikigo cya minisiteri y'ubuzima ndetse n'abandi bashinzwe ubuzima mu bigo bigiye bitandukanye bitanga ubuvuzi, bakoraniye hamwe barimo gufata ifoto y'urwibutso nyuma yo gukora inama.

Kwiga ku kibazo cya Corona virusi, ndetse ni mu buryo bwo kukirwanya burundu, cyane cyane mu Karere ka Afurika. Ndetse baraganira ku ngamba zigiye zitandukanye, zo kurwanya iki cyorezo.

Ubukangurambaga bugiye butandukanye, aho uyu muntu urimo kugenda abafasha ari ba bandi batera inkingo, yambaye agapfukamunwa ndetse afite n'akarahuri imbere ku buryo adashobora kwandura icyorezo.

Abahawe inkingo ku cyorezo cya coronavirus, ndetse higanjemo amakuru agaragaza abawe urukingo, ndetse iyi ndwara iyo utayirinze irica, gusa iyo ufashe ingamba ugakora isuku, ugahabwa urukingo ndetse ugashyiramo intera hagati ya mugenzi wawe urayirinda.

Abagore, abagabo bitabiriye inama, barimo gufata agafoto nk'urwibutso, nyuma yo kugirana ibiganiro bigiye bitandukanye n'abayobozi, barimo kugenda basezeranaho ari nako bafata agafoto k'urwibutso.

Abagore bagera kuri batatu bano twita abamansera, barimo gusuhuzanya n'uyu mugabo ashobora kuba ari umwe mu bakora mu nzego z'ubuzima, kuko inyuma yaho hariho ibirango bigaragaza minisiteri y'ubuzima.

Umugore waje kwifatisha urukingo barimo kumutera urushinge, ararutinya arimo gushaka gusimbuka gusa inyuma hariyo undi muntu umufashe, urimo kugenda amutinyura kugira ngo babashe kumukingira.

Ukuboko k'umuntu kuriho uduheri tugiye dutandukanye, biragaragara ko ari nk'ikintu cyamubabye. Gusa bino biheri bikunze kugaragara ku muntu warwaye icyorezo cya mariburu. Ni iyo mpamvu umuntu wagaragaje bino bimenyetso, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga.

Umugore urimo gutanga imbwirwaruhame imbere ye hariho mikorero ebyiri ndetse ahantu ahagaze hariho cyakintu umuntu ashobora guterekaho igitabo cyangwa se ikintu cyose ari gusoma mu gihe ari gutanga ikiganiro arasa na madame Jeannette kagame umudamu wa perezida wa nyakubahwa wa repubulika.

Ikirango cya repubulika y'u Rwanda ndetse bakagaragaza na minisiteri y'ubuzima, aho kigizwe n'agaseke ndetse n'ingabo ziri mu bice bigiye bitandukanye iburyo n'ibumoso. Ahangaha iyo ikintu cyose cyerekeye ku Rwanda haba hariho kino kirangantego.

Umuntu ushobora kuba yagize ikibazo bamuryamishije hasi kuri twatwuma bita burankare batwararaho umuntu warembye bamujyana mu maboko, aba bantu bari kumuha ubufasha bamwe ni abakorabushacye kuko bambaye amajiri ariko hariho n'abaganga.

Abagabo babiri barimo gusuhuzanya bambaye amakoti ya kositimu, umwe muri bo yambaye indorerwamo undi we ntazo yambaye gusa yambaye ikoti, afite igitabo mu ntoki ndetse kimeze nka seretifika cyangwa se impamyabushobozi.

Umugabo uhagaze imbere rwagati arimo gutanga ubutumwa bugiye butandukanye, ni umuzungu. Aha ngaha ni inama yabaye muri bibiri na makumyabiri na kabiri aho yitabiriwe n'abantu benshi.

Umugore n'umugabo bahagararanye bafite icyapa cyanditseho ko umuntu ashobora kwisuzumisha igituntu, bagaragaza ko gishobora kuvurwa kigakira, umugore yambaye agakoti k'umukara umugabo nawe yambaye agashati k'umukara ndetse yambaye n'isa ku kaboko.

Iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ndetse biragaragara ko ari iryo kwa muganga, barashishikariza abantu ko uguze igicuruzwa kimwe wongezwa ikindi ndetse harimo indorerwamo mo imbere biragaragara ko batanga serivisi zijyanye n'amaso.

Umwana barimo gushira ku munzani bigaragara ko ari hahandi abantu baba bagiye gukingiriza kubanyabuzima ndetse uyu mwana arimo kugenda bareba ibiro afite, uyu mubyeyi arimo kugenda amwitegereza. Uyu mubyeyi yambaye umwenda ishati y'mweru ndetse afite n'imisatsi myiza y'umukara

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitandukanye buri gitanda gifite imisego ibiri igiheye igerekeranye ku gitanda kandi hagiye hateretseho amashuka ndetse ashashe neza hariho n'ibindi bintu birambitseho bimeze nk'imiti kuri buri gitanda kandi hariho akantu k'agatebe umuganga yicaraho mu mugihe ari guha umurwayi serivisi.

Inyubako igaragaza aho bakorera ubushakashatsi, harimo intebe z'amoko agiye atandukanye, aha ngaha kandi iyo bafashe ibizamini bashobora kubijyana hano bagapima bakamenya icyo umuntu arwaye.

Inyubako ikikijwe n'ubusitani bw'indabo zisa neza, inyinshi zifite indabo zitukura ndetse imbere yaho hariho abantu baje gusaba serivisi zigiye zitandukanye, aha ngaha ni ku kigo nderabuzima.

Ikigo nderabuzima, aho hariho inzu y'ababyeyi, n'aho abantu bategerereza mu gihe umuntu yagiye kubyara, aha ngaha abamurwaje barategereza kugeza igihe muganga amaze kubatumaho, bamubwira ko umubyeyi yabyaye.

Imodoka iparitse y'umukara ku ruhande hariho umugore urimo kuyireba yifashe munyanginya afite agakapu gatoya ahetse mumugo, kurundi ruhande hari abagore babiri nabo bari kuganira hakaba n'umusore wicaye hejuru yo ku gasima ayifite igitabo arimo kugenda areba utuntu.

Ku ivuriro aho abantu bicara mu gihe bategereje guhabwa serivisi hejuru hariho ibipirizo biririmo umwuka, ku ruhande hariho igishusho kigaragaza ijisho rya muntu gusa kugirango ijisho ryuzure hariho utuntu bagenda baterateranya baduhuriza hamwe tukabyara igishusho cy'ijisho.

Icyumba kirimo intebe z'amoko agiye atandukanye ziganjemo izifite imisego, hariho n'imitako igiye itandukanye ituma kino cyumba kiba cyiza hariho utunyamasyo turi hasi dushushanyije.

Ikigo nderabuzima ndetse ni bya bindi byubatse mu buryo bugezweho bw'akageretse ndetse garagaza icyumba ababyeyi babyariramo aho babapimira ndetse naho bibarukira uretse ko haba hariho naho abantu bategererereza.

Ibyicungo abana bajyaho bari kurya umunyenga ndetse bigizwe n'utuntu umuntu yicaraho dutatu. Kimwe kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'ikindi kiri hagati kiri mu ibara ry'umuhondo.

Imbaga y'abantu benshi yiganjemo abaforomo n'abaforomokazi, bahagaze imbere y'ikigo cya isange giherereye ku bitaro bya Kabutare, barimo gufata agafoto basizemo intera ndetse bambaye udupfukamunwa.

Ikigo bavuriramo kanseri. Aha hantu hariho umugabo wambaye imyenda ya gisirikare, yambarwa n'abantu bakomeye cyane. Ahagaze ku muryango, gusa arimo kugenda atambuka. Iki kigo ni ho bita ku bantu bafite ikibazo cya kanseri.

Ibikoresho byo kwa muganga byiganjemo intebe ndetse n'ahantu hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hariho televiziyo iri hejuru, aho umuganga ashobora kubyifashisha mu gihe ari kuvura umuntu; ahangaha abari mu cyumba, aho baba bari kwita ku muntu by'umwihariko.

Inyubako y'ikigo nderabuzima, iriho aho abantu binjirira, mu gihe bagana kuri iki kigo. Hariho aho abantu bategerereza, ndetse n'aho bagenda bakirirwa, mbere yuko bahabwa serivisi.

Ububiko bw'imiti bwo kwa muganga buri ahantu hameze nko muri firigo cyangwa se cya cyuma gituma ibintu biguma uko byari biri ntibyangirike ndetse harimo imiti igiye itandukanye. Ni ububiko bukomeye bwo kwa muganga.

Abaganga babiri bari ahantu hari igikoresho cy'ikoranabuhanga barimo kugenda bareba isuzuma ry'ibikoresho bagiye bashyiramo ndetse barimo kugenda baganira bajya inama, bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'amakanzu y'umweru.

Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye aho hariho abantu barimo kugenda mu kayira kagenewe abagenzi ndetse n'inyubako isize amarangi y'umweru ndetse mu harimo amagambo yanditseho ko ari kaminuza y'u Rwanda, iyi nyubako iboneka ku ishami rya Huye.

Ubusitani bumeze neza cyane harimo utuyira umuntu agenda acamo igihe ari gutembera mu busitani ndetse ku ruhande hariho n'ibyicyungo umuntu ashobora kujyamo mu gihe ari kuwinyinezeza hariho n'utuzu tugiye dutandukanye ndetse n'ikirere kirasa neza nta bihu bibuditse birimo biragaragara ko nta mvura ihari.

Mu masaha ya nimugoroba ku kigo nderabuzima aho hanze hahagaze abagore bategereje guhabwa service ndetse mu kibuga hameze neza nta muntu urimo uretse indabo zihari ziteye ndetse n'igiti kirekire cy'igishupuri aha ngaha harasa neza.

Icyumba gikorerwamo siporo aho kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ibyo umuntu yifashisha abyirukangaho ndetse n'ibindi umuntu ashobora guterura mu gihe arimo gukora imyitozo ngororamubiri, ubusanzwe ibi byumba babyita gimu.

Umwana ukiri mutoya urimo kugenda mu kayirako kwa muganga, bigaragara ko afite ikibazo ku kirenge kuko hazengurukije bande ijya gusa n'umweru, inyuma ye hariho umugabo nawe uri kumwe na kana akana ke kipfutse umwenda bigaragara ko karwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo intebe zizengurutse ameza, hakabamo amatara hejuru hasize irangi ry'umweru ndetse ahantu hateye mu kajagari.

Ibitaro aho bakirira abantu bafite ibibazo byo mu mutwe cyane cyane abo byarenze, aha ngaha bifashisha uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se abaganga bakomeye mu kwita abarwayi bafite ibibazo byo mu mutwe.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hariho aho umuntu ashobora kwirukanka, hakabamo ibyuma bigiye bitandukanye, umuntu akoreraho siporo yo kwiruka. Aha ngaha bahita muri gimu, ni ho umuntu akora imyitozo igiye itandukanye ngororamubiri.

Umugabo wicaye ku gatebe, yambaye ikanzu yambarwa n'abantu bakora kwa muganga, afite n'ibindi bikoresho umuganga yifashisha mu gihe ari gusuzuma umurwayi, yicaye kuri za ntebe umuntu yicaraho akajya azenguruka, za zindi ziba zifite amapine.

Ikigo gitanga serivisi zijyanye n'ubuzima cyane cyane abantu baje gushyikira imiti bandikiwe na ba muganga haparitse imodoka ndetse ni ku muhanda, aha ngaha biba byoroshye kuhagera kuko imodoka ikuzana igahita ikugeza kuri iyi farumasi ntahandi hantu ubanje kunyura.

Umugabo urimo gusobanura ibintu bigiye bitandukanye byiganjemo uburyo bwo kurwanya icyorezo cya malariya. Hariho umubu bigaragaza ko iyi miti ishobora kwica uyu mubu mu gihe umuntu yaryamye no mu nzitiramibu ikoranye umuti.

Abagore n'abagabo bicaye mu nama ndetse bicaye ku murongo, bamwe bambaye udupira tw'umuhondo abandi bambaye udupira tw'umweru ndetse abagore barimo bicaye imbere bakenyera ibitenge

Inyubako isa neza imbere yaho hahagaze abantu bagera kuri batatu, aha ngaha ni kwa muganga hariho abantu bagiye batandukanye baje gusaba serivise zijyanye no kwivuza, imbere kandi hariho ubusitani bumeze neza hakabaho n'igiti kirekire.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hariho igitanda umuntu ashabora kuryamaho mu gihe barimo kumuha ubutabazi bw'ibanze, cyangwa se mu gihe afite ikibazo cyihariye. Ibi byumba akenshi bikunze kuboneka hanze y'u Rwanda, ndetse mu Rwanda aho biri ni hake cyane.

Icyumba cyihariye cyo kwa muganga harimo igitanda ndetse n'aho umurwayi aba aryamye igihe arwaye, hariho n'imisego ndetse ku buriri hariho imiti igiye itandukanye, igizwe na serumu n'indi miti iki cyumba kandi kirimo amafoto meza ndetse n'ahantu akazuba gashobora guca mubirahuri.

Icyumba cyo kwa muganga kiriho igitanda ndetse hariho n'ibimashini bigiye bitandukanye bishobora kwifashishwa mu kureba indwara umuntu afite cyangwa se mu gihe bari kumupima ari muri kondisiyo itameze neza bakamenya uko amerewe.

Abaganga babiri barimo kwitegereza icyuma cy'ikoranabuhanga uko biri kose hari ibintu barimo kugenda bigaho bose bambaye udupfukamunwa, barimo kugenda baganira umweyereka undi uko bikorwa undi na we agatega amatwi.

Ibitanda byo kwa muganga bifite amapine ndetse n'utundi tuntu ku ruhande, ku buryo umuntu yicaye adashobora kugwa, igihe icyo ari cyo cyose ashobora kumva ari kuribwa yigaragura, ndetse n'ibitanda bigera kuri bine bigiye bitondetse ku murongo.

Icyumba giteguye neza aho hariho intebe abantu bashobora kwicaraho bakicara barebana. Hariho ibishushanyo byiza, hariho na camera ziba zireba ibi kubera muri aka gace. Ni inyubako isa na hahandi habera inama zikomeye cyane.

Inzu yo kwa muganga ndetse barimo bari kugaragaza icyumba ababyeyi babyariramo ndetse bacyita icyumba cy'ababyeyi, hanze hari hariho intebe umuntu ashobora kwicaraho mu gihe ategereje, hariho umugabo urimo gutambuka ahanyura.

Abantu baje gusaba serivisi zijyanye no kwivuza aho abategereje bicaye ku ntebe ndende, imbere kandi y'ibi bitaro hariho ubusitani bw'indabo zikase neza n'aho umuntu anyura mu gihe agiye kwinjira.

Igitanda cyo kwa muganga kitariho umuntu gikikijwe n'ibikoresho bigiye bitandukanye, ku ruhande hariho amadirishya ndetse arafunze, inyuma hariho igishushanyo cy'indabo cyiza ndetse hariho n'ibindi byuma by'ikoranabuhanga bigiye bikikije igitanda.

Ibirango by'ikigo cyo mu rwanda gikora ingingo ndetse kikaba gikora n'indi miti igitandukanye ubushakashatsi ndetse n'ibindi ahangaha kandi hubatse mu buryo bwa etage aho hari igice cyo hasi n'igice cyo hejuru.

Icyumba cyo kwa muganga; kirimo abantu bambaye imyenda yabugenewe, udupfukamunwa ndetse bipfutse ahantu hose; harimo ikintu kimeze nk'imashini gisa n'aho gitunganya imiti; harimo uducupa tugiye dutandukanye tutarimo ikintu; turimo kugenda dushyirwamo imiti.

Umuforomo wambaye imyenda isanzwe yo kwa muganga, uturindantoki ndetse afashe umuti arimo kugenda ashaka uburyo bwo kuwubika, arimo gufungura icyuma cyabugenewe kibikwamo imiti. Arimo kugenda ashyiramo kode zifungura kino cyuma.

Ivuriro riri ahantu mu misozi kuko ahantu riri uba ureba hakurya ahantu hari ibiti biteye ndetse n'indi misozi igitandukanye ndetse hari n'amashyamba hari n'ibendera ry'u rwanda rigizwe n'amabara atatu ubururu icyatsi ndetse n'umuhondo irivuriro kandi rifite amabati y'umutuku.

Udupfunyika tugiye dutandukanye tujya gusa n'ibara ry'umutuku n'udupfunyika tubikwamo amaraso kwa muganga, buri gapfunyika kaba kariho ubwoko bw'amaraso akagize.

Ibitaro binini cyane hariho umunyezamu urimo kugenda afungura amarembo, imodoka nayo irimo gusohoka, ku ruhande kandi hariho umugabo wicaye ku gatebe ka purastiki, iyi modoka irimo iragana mu muhanda, bigaragara ko ibi bitaro ahantu byubatse ni ku muhanda.

Akayira kayobora abantu bagannye ku kigo nderabuzima, aho hariho serivise zigiye zitandukanye, zitangirwa hano muri iki kigo nderabuzima. Aho hariho aho babyarira, icyumba cy'ababyeyi, ndetse n'adi hantu hagiye hatandukanye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga kwa muganga byifashishwa n'abaganga mugihe barimo gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye, harimo isaha imanitse ku rukuta ndetse hari na tereviziyo iri hejuru.

Inyubako yubatse mu buryo bwa etage aho hariho imodoka ziparika ndetse imbere hakabaho aho abantu banyura mu gihe bari kwinjira kuri iyi nyubako, bafite ahantu baparika hanini cyane hashobora kujya imodoka nyinshi.

Amarembo y'ibitaro hariho icyapa kinini cyane, kiriho serivisi zigenda zitangwa kuri ibi bitaro. Hariho agahanda kanyurwamo imodoka ndetse hahanagaragara amarembo aho bakirira abantu, aho bahita kuri resebusiyo.

Inyubako nziza irihantu hitegeye ikirere cyiza, ni mu gihe cy'impeshyi, ahangaha imbere hariho ubusitani buriho indabo zitandukanye ndetse n'akayira umuntu anyuraho mu gihe agiye gusaba serivisi zigiye zitandukanye, hateye sima.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho ndetse iragaragara ko ari igice cy'ubushakashatsi gikorerwa hano nk'uko byanditswe mu magambo y'ururimi rw'icyongereza ndetse isakaje amabati y'umukara ikindi yubatse mu buryo bw'igorofa.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho hari intebe iteretse y'urubaho. Hariho amavaze abiri arimo indabo za zindi bajya bavomeramo amazi kugira ngo zimere neza. Ku rubaho hariho amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza agaragaza ko hano ari umuti utangwa, cyane cyane wibanda ku myitozo ngororamubiri.

Umugabo wakuyemo ishati barimo kugenda bamutera urushinge kuko uyu muganga yambaye uturindantoki ndetse afite urushinge arimo kumukingira icyorezo runaka, arimo kugenda amuhereza urukingo.

Ububiko bw'amaraso ndetse abitse neza ku buryo adashobora kwangirika agenda abikwa hashingiwe ku bwoko bw'amaraso kuko abantu batagira amaraso ameze kimwe. Igihe umuntu akeneye kongererwa amaraso bamwongera bashingiye ku bwoko bwe afite.

Abantu bateraniye hamwe barimo kugenda baganira, abenshi bicaye mu byerekezo bitandukanye, bamwe bicaye ahantu hasakaye hateretse intebe z'urubaho bategereje guhabwa serivisi, ahantu yicaye harimo icyapa kinini kiriho serivisi zitangirwa hano hantu.

Umuforomokazi usa n'ukuze kuko imisatsi ye ifite imvi zabaye uruyenzi, ndetse ari ku cyuma kimeze nka firigo ndetse ni bya byuma bibika ibikoresho, kugira ngo bitajyaho mikorobe.

Ikigo cyubakanye ubuhanga, ni mu cyumba cyo kwa muganga aho hakorerwa ubushakashatsi bugiye butandukanye. Hameze nk'uruganda kuko harimo imashini zigiye zitandukanye na za mudasobwa zifashishwa n'abahanga mu gukora ubuvuzi ndetse n'abandi bantu bakora muri uru ruganda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bitandukanye bya bindi bajya bimura kubera ko bifite amapine umuntu ashobora kuyifashisha agenda abicunga abijyana hamwe abijyana ahandi, harimo n'amatara arimo kwaka biragaragara ko ari masaha nimugoroba.

Icyumba cyo kwa muganga kigizwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, hariho aho umuntu aryama igihe arimo gukorerwa serivisi, ibi bitanda birimo ni bya bindi bigira amapine umuntu ashobora kwimura akabijyana ahandi hantu ndetse hano bavura umuntu cyane cyane by'umwihariko.

Ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa cyane cyane ahantu bakorera imyitozo ngororamubiri ahangaha akenshi bahavurira abantu bahuye n'ikibazo cy'imvune mu gihe barimo kwitoza kongera gutera agatambwe ndetse n'abandi barimo gukora siporo yo kwirukanka ibi byuma bigenda bibereka ibirometero birukanse ndetse n'imbaraga bakoresheje.

Icyumba cyo kwa muganga kibereye aho, kirimo ibitanda gusa ndetse ni bya bitanda bifite n'amapine ndetse kuri buri gitanda, hariho irido igitandukanya n'ikindi ndetse hasi hariho amakaro.

Ibitaro bikiri bishyashya bigizwe n'ubusitani butoshye bw'umucaca. Ikirere cy'aho kirasa neza biragaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi, ibi bitaro byubatse neza mu buryo bugezweho bwo kugerekeranya ndetse igeretse gatatu.

Ibitaro by'akarere ka Nyarugenge ndetse byubatse neza bigizwe n'ubusitani bugiye butandukanye bubikikije ndetse hariho n'akayira abagenzi cyangwa se abarwayi bagiye kwivuza aho bagenda baca.

Icyumba bakiriramo abantu barembye cyane, aha ngaha ni aho bakirira abantu bafite ibibazo bikomeye cyane ndetse aho ubuzima bwabo buri mu kaga. Niyo mpamvu bahita ko ari icyumba bakiriramo indembe.

Ikigo nderabuzima cyubatse mu buryo bugezweho, mbere hari ubusitani ndetse n'ikibuga ki'imibendera y'u Rwanda, igizwe n'amabara atatu ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi. Ku ruhande kandi ku marembo y'ibitaro hari ikigaragaza ko hari ikigo nderabuzima cya kanyinya.

Icyumba cyubatse neza mu buryo bugezweho cyane cyane nka bya bindi biba mu bihugu by'Iburayi aho hariho aho abaganga bahurira mu gihe barimo gukora ubushakashatsi bugiye butandukanye, hasize irangi ry'umweru ndetse harimo n'amatara amurika cyane.

Ikigo cya Isange, Remera, Rukoma, gikikijwe n'ubusitani bw'indabo zigiye zitandukanye, hirya hariho ibigega bifata amazi mu gihe cy'imvura, hakabaho n'inyubako isakaje amabati atukura.

Ibitaro byubatse neza bizengurutswe n'ubusitani ndetse ahangaha ni ku bitaro by'akarere bya Nyarugenge aho ahangaha umuntu ashobora kuza kubasabira serivisi zitandukanye zijyanye n'ubuvuzi, ubujyanama ndetse n'ibindi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abarwayi harimo ibitanda bigiye bitandukanye, aho buri kimwe kiriho umurwayi ndetse hariho n'umuganga urimo kugenda azenguruka igitanda ku kindi abaza aba bantu icyo barwaye ari nako agenda abitaho.

Abagore babiri bageze mu za bukuru barimo kugenda bapimwa n'uyu muforomokazi, wambaye agapfukamunwa ndetse yambaye n'uturindantoki, barimo kugenda bambikwa cya cyuma kigenda gipima uko imiterere y'umubiri imeze cyane cyane imiterere y'umutima.

Ibikoresho byo kwa muganga byiganjemo imiti, imikasi n'utundi dukoresho, harimo amavuta ndetse n'imiti y'amoko agiye atandukanye, hari na bande umuntu ashobora kwizingirizaho mu gihe yakomeretse cyangwa yavunitse kugira ngo abashe gukira.

Ibitaro byitiriwe Umwami Faisal ndetse hariho umuntu urimo kugenda akora amashanyarazi. Ahagaze ku kantu k'urwego ndetse n'undi mugenzi arimo kugenda amuhereza amatsinga. Ku rundi ruhande hahagaze undi mugabo w'umusore wambaye agapfukamunwa, urimo kugenda yitegereza ibyo barimo gukora.

Umugore ufite imisatsi miremire, arimo kunywa amazi, ndetse yambaye n'agasengeri, arimo kugenda asoma amazi gake gake, bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, yagize inyota nyinshi, arimo kugenda asomaho, kugira ngo arebe ko yagarura ubuyanja.

Ibikoresho byo kwa muganga bigizwe n'ibyo umuntu ashobora kwifashisha mu gukora ubutabazi bw'ibanze hariho imikasi, band, ibinini, imiti ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye umuntu ashobora kwitwaza ku rugendo cyangwa ahantu hari kubera imikino cyangwa ahantu hahuriye n'abantu benshi.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu, yambaye agashaneti, arimo kugenda anywa amazi biragaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kunywa amazi cyane kuko bigaragara ko afite inyota nyinshi.

Inama zijyanye no kwitwararika, mu gihe umuntu akora imyitozongororamubiri, zigizwe cyane cyane ku kwita ku mubiri, kubahiriza amabwiriza, kuba ufite ibikoresho, kuba ushoboye kandi ukaba ufite n'ahantu heza ho kuyikorera.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kugenda ananura akaguru kamwe agashyira hejuru akandi hasi amaboko nayo ariko agenda asimburanya ,kumwe kuzamuka ukundi kumanuka arimo kugenda agorora inkingo.

Umukobwa ukiri mutoya arimo kugenda akora imyitozo ngororamubiri arimo kurambura amaboko ndetse aya ukuguru, ukundi kumwe kurarambuye arimo kugenda agorora ukuguru agorora, umugongo, ndetse n'amaboko icyarimwe.

Umugabo urimo kugenda akora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umukara ndetse arimo kwerekana mu kwaha. Ukuboko kwe kurabyibushye ndetse bigaragara ko yateruye ibyuma, bya bindi biterurwa n'abantu bafite ibiro byinshi.

Umukobwa uvuye gukora imyitozo ngororamubiri afite icupa ry'amazi arimo kugenda anywa yambaye ekuteri ndetse afite n'imisatsi miremire y'umukara, yambaye agasengeri, yambaye n'ikindi cyuma cyabugenewe ku kaboko kimwereka ibirometero yirukanse ndetse n'uko umutima we urimo kugenda utera, bigaragaza n'igipimo cy'amaraso uko agenda atera mu mubiri.

Umugore urimo kwinanura ndetse afite imisatsi miremire y'umukara, arimo kunanura amaboko, ikirere yifotorejeho kirasa nk'aho nta mvura ikirangwamo kuko ikirere kirasa ubururu.

Umugabo usa n'uwavunitse arimo kugenda yikandakanda, afite uburibwe bukomeye cyane ku mubiri we arimo kugenda kandi ahantu yavunitse bigaragara ko yavunitse arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri mutoya arimo gukora imyitozo ngororamubiri arunamye ndetse arimo kugenda akanda akanda ibirenge yicaye ku kantu kameze nk'agatapi k'ubururu.

Umuganga ufite mudasobwa imbere ye ndetse hateretse n'ikayi, ikindi yambaye agapfukamunwa, anafite na cya cyuma bashobora kwifashisha bumviriza ibiri mubiri ndetse arimo kugenda yiyambika agapfukamunwa ndetse yambaye n'uturindantoki.

Igikoresho cyo kwa muganga bita bande ikingiki gikoreshwa mu gufasha umuntu wavunitse kongera kugenda neza ndetse ingingo ze zikongera zigakora muganga agendakizengurutsa ahantu hahuye n'imvune maze umuntu akagenda akira agake gake.

Amoko y'imbuto agiye atandukanye yiganjemo pome, amaronji ndetse n'imboga hari n'ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane kugorora igice cy'amaboko ndetse hari n'igipimo cyifashishwa mu kureba uburebure.

Uburyo bwo kugira inama abantu bakora imyitozo, ndetse n'abakina imikino igiye itandukanye. Harimo kwambara imyenda yabugenewe, ndetse no kwitwaza ibikoresho byabugenewe. Mu rwego rwo kwirinda kwangirika, cya guhura n'ipanuka zigiye zitandukanye.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri aryamye ku gatanda ku ruhande rwe hari umugabo w'umuzungu urimo kumufasha uburyo yakoramo siporo neza arimo kumugorora ukuboko ndetse anamwerekera uko agomba kubigenza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo n'ibyuma bitanga umwuka, harimo ndetse n'intebe umuntu yicaramo igihe muganga arimo kumuhereza serivisi, cyane cyane ababa bagize imvune, kuko hariho aho aryama akegeka umutwe n'aho ibirenge biba biri ndetse n'amaguru.

Uburyo bugiye butandukanye bwo gukoramo imyitozo ngororamubiri, yiganjemo gukina umupira aho ni kuri gatanu, harimo guterura ibyuma aho ni kuri kane, harimo kwirukanka aho ni kuri gatatu ndetse harimo no kugenda ugorora imbavu ndetse n'amaboko aho ni kuri kabiri ndetse kandi hariho n'izindi siporo zigiye zitandukanye aho ni kuri gatandatu.

Aho batangira serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane izo kunanura imikaya, imitsi ndetse n'umubiri, bagenda baguhereza masaje ndetse bakugira inama zituma umererwa neza noneho no mu mutwe ukaruhuka.

Umugabo urimo kunywa amazi, biragaragara ko yubatse umubiri, afite amatuza manini ndetse n'akaboko ke karabyibushye, arimo kunywa amazi, bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubirim, yambaye na ekuteri mu matwi.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri arimo kugorora igice cy'inyuma yahinye ukuguru ukuboko nako akwerekeza imbere, yambaye impuzankano yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kugenda yirukanka nta kibazo.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arunamye yifashe mu manyanyinya, yazamuye akaguru hejuru ndetse arimo arakagorora yifashishije icyuma kiri ku muhanda ndetse afatishije ukuboko ku kirerenge.

Iduka ririmo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura. Aha ngaha kandi, harimo n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, byose bigiye bipfunyitse mu dukarito. Aha ngaha aba ari mu bubiko, aho haba hagera umuntu uhakora wenyine.

Umugabo urimo gukora imyitozo ngororamubiri, arunamye arambuye ikirenge, ndetse anareba hasi, ukuguru kwa kabiri nako araguhinye ndetse n'amaboko arayarambuye, arimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Amazi arimo kwiterera mu kirere nka kwa kundi baba bayasutse, hariho n'icupa naryo ririmo amazi ripfundikiye neza na ya yandi dusanga mu maduka bagenda bagurisha ahangaha ni amazi meza umuntu ashobora kunywa.

Abantu bagize umuryango wa kuruwaruje, umuryango wita ku imbabare bafashe umuntu uryamye ku gitanda, ndetse biragaragara ko aryamye ku kiringiti ndetse barimo kumuha ubutabazi bw'ibanze.

Umugore ukiri mutoya cyane ndetse arimo kugenda akora imyitozo ngororamubiri, arimo gufata akaboko kamwe akagahina akagakoza mu mugongo akandi nako kagafata ku nkokora hejuru, arimo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo yirinde indwara agire n'umubiri we umeze neza cyane.

Udukapu tubiri duifite ibara ritukura ndetse henshi hariho ikimenyetso cy'umusaraba, dukunze kwitwazwa n'abaganga cyangwa abana barigukora imyitozo ngororamubiri, tuba turimo ibikoresho by'ibanze umuntu ashobora kwifashisha igihe yahuye n'impanuka cyangwa yakomeretse, haba harimo ubutabazi bw'ibanze umuntu ashobora kwikorera.

Umugabo ufite ibigango arimo kunywa amazi amaze gukora imyitozo ngoramubiri, yafashe icupa ararishyira hejuru arimo gucuncumira amazi ari nako arwanya icyaka.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa kwa muganga, harimo imikasi, uturindantoki, hakabamo inshinge, hakabamo ibinini n'ituroshi, hakabamo n'ibindi bintu byinshi biboneka kwa muganga.

Ikigo cy'u Rwanda cya Croix rouge kifashisha mu gutabara imbabare cyangwa se abantu bahuye n'ibyago, aba ngaba bakorera cyane cyane ahantu habaye impanuka n'ahantu harimo gukinirwa nk'umupira cyangwa se indi myidagaduro, bafasha abantu kubageza ku bitaro mu buryo bwihuse.

Ibikoresho bigiye bitandukanye biboneka kwa muganga, hariyo n'agakapu twa tundi abaganga bitwaza mu gihe bagiye gutanga ubutabazi bw'ibanze, hariho udukoresho twiganjemo imikasi inshinge ndetse n'ibindi.

Ukuguru kugaragaza igice cy'umuntu cyavunitse, bigaragazwa n'ibara ry'ubururu ndetse n'irindi rijya gusa pinki. Bigaragaza ko akagombambari k'uyu muntu yavunitse ndetse arimo kugenda agerageza gutera intambwe.

Umuntu uri ku kigo nderabuzima, aho barimo kumufata akaboko, bakazamura. Arimo guterura ibyuma, bwa buryo abantu bakoresha, mu gihe barimo kubaka umubiri. Barimo kugenda bamufasha, gukora imyitozo.

Umusore ukiri mutoya, arimo gukora imyitozo ngororamubiri, arimo aragorora akaguru kamwe agashyira imbere akandara agahinye, yambaye agasaha ndetse n'agakabutura, igice cyo hejuru nta myenda yambaye.

Igikoresho cyo kwa muganga, aho bacishamo umuntu wahuye n'ikibazo barimo kureba ibibazo afite imbere mu mubiri, iki ngiki cyifashisha imirasire mito ifotora umuntu, mo imbere bakareba ikibazo afite.

Umugabo w'umuzungu afite icupa ry'amazi arimo kugenda anywa afite ubwanwa ndetse yambaye isengeri y'umukara ku kaboko ke naho haziritse ho akantu gafite ibara ry'icyatsi bigaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Agakoresho umuntu ashobora kwifashisha ari kwivura igihe yavunitse ndetse bakita bande. Umuntu agenda akizengurukirizaho ndetse agenda yizirika igihe yakomeretse cyangwa se yavunitse ,mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'imyitozo ihambaye cyane kuko yahinye akaguru, ahese umugongo ndetse n'akandi kaguru kamwe karambuye cyane akandi karahinye n'amaboko yombi ararambuwe.

Amagambo y'icyongereza agenda asobanura uburyo umuntu ashobora kwifashisha imiti igiye itandukanye, ishobora kumufasha mu gihe arimo gukora imyitozo ngororamubiri. Hariho umugabo bakoze mu ishusho y'ibinini ndetse hariho n'urushinge ndetse n'iserenge irimo umuti.

Umugabo wakomeretse barimo kugenda bamuvura, uyu muganga arimo kugenda azengurutsa bande ku gice cyakomeretse kugira ngo uyu muntu imvune ye ibashe gukira. Uyu nguyu ni umwe mu bantu baba bakora imyitozo ngororamubiri.

Imiti ishobora kwifashishwa mu gukaraba, mu kunoza isuku, ya yindi bita iyo gupupera ku ntoki. Yifashishwa mu kwica udukoko ndetse na za mikorobe, bifasha mu kunoza isuku.

Umuntu waje kwa muganga barimo kugenda bamuvura bareba ikibazo afite, umuganga arimo kugenda akora ku ivi ari na ko agenda agorora ukuguru akurambura yongera aguhina kugira ngo abashe kwita ku kibazo uyu muntu afite.

Ibice by'umubiri w'umuntu byiganjemo amagufa yo mu rukenyerero, ndetse n'andi yo mu muhogo, aha nga kandi baragaragaza urutigongo, niya mashusho aba yarafashwe n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bya bindi bifotora mu mubiri.

Ukuguru k'umuntu aho bagaragaje igise cyo ku mavi ahakomeretse, uyu ni umuntu wagiye kwa muganga, arimo kugenda akora imyitozo igiye itandukanye kugira ngo arebe ko yabasha gukira, aha ngaha ni bwa buryo umuntu yifashisha mu kuvurwa igihe aba yakomeretse.

Ibyiza byo gukora imyitozo ngororamubiri bigizwe no kugabanya umuvuduko ukabije, kuringaniza ibiro ndetse no mu gufasha mu igogora. Biragaragazwa n'uyu muntu urimo kwirukanka akora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wakomeretse barimo kugenda bamuvura bamushyiraho igitambaro kugira ngo bagende bamworohereza, ni mu buryo bwo kumufasha kugira imvune ye ibashe koroha ari nako bagenda bamukanda akantu.

Umugore wicaye ahantu mu cyumba ari hamwe n'akandi kana gatoya, barimo kugenda baganira, akana ke karimo guseka, ahangaha ni kwa kundi umubyeyi aba arimo kugenda aganiriza umwana we ari nako agenda amusetsa.

Umugabo uhagaze wambaye itaburiya yo kwa muganga yambaye n'uturindantoki, afite umupira ndetse ahagaze hamwe na cya cyuma gishobora kuzimya umuriro mugihe yafashwe n'inkongi.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga hariho abagabo babiri, umwe arimo kugenda agira inama mugenzi we amwereka uburyo ashobora gukora imyitozo ngoromubiri, cyane cyane ko hari igihe ikoreshwa mu kuvura umuntu wavunitse.

Umugabo wubatse umubiri urimo gukora imyitozo arimo kugenda agorora akaguru k'imbere ndetse n'akandi akagashira inyuma, imitsi ye yireze ndetse umubiri we bigaragara ko yawubatse koko.

Umukobwa urimo gukora imyitozo azamuye akaguru ndetse aragahinnye afatishije n'andi maboko ye yombi, akandi kaguru kari hasi ndetse ahantu arimo gukorera siporo ni ahantu heza cyane bigaragara ko ari hafi y'ikiyaga cyangwa se inyanja.

Umugabo uryamye hasi ndetse aryamye yubamye, umuganga nawe arimo kugenda amuvura kubera ko bisa nk'aho afite ikibazo mu mugongo, bagiye bamucomeka utwuma tugiye dutandukanye mu mugongo, muganga nawe akareba amakuru utwo twuma turimo kuzana.

Aho bakorera imyitozo ngororamubiri hano mbese tuhita muri gym hakoranywa abantu bagiye batandukanye baje gukora imyitozo ngororamubiri ari abaterura ibyuma ndetse ari n'abakora siporo zo kwirukanka ndetse n'izindi siporo zigiye zitandukanye.

Igikoresho cyo kwa muganga cy'ikoranabuhanga cya kindi cyifashishwa mu gushitura umutima .Gikoreshwa mu kugarura ubuzima igihe umuntu asa nK'aho ahweye mu buryo butunguranye, kifashishwa mu gushitura umutima bagishyira ku gatuza.

Umugabo wavunitse ukuguru, umuganga arimo kugenda amugorora agake gake, arambura ndetse yongera anahina. Biragaragara ko yavunitse mu ivi, kubera ko muganga ari kugenda amukandatanda.

Umugabo umaze gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kugenda yisukaho amazi ni kwa kundi umuntu aba ari kugira umubiri we uzane ubuyanja, arimo kuyanywa asigaye akayisuka mu mutwe.

Umugabo w'umusore wambaye imyenda ya siporo, ndetse afite ikirahuri cy'amazi arimo kugenda asoma, biragaragara ko avuye gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kugenda acurika icupa, ndetse biragaragara ko yubatse umubiri.

Umugabo wavunitse akaguru arimo gukoresha ibyuma byo kwa muganga bishobora kumuvura akongera akagenda, hariho n'umuganga urimo kugenda amwereka uburyo abikoramo kugira ngo abashe gukira.

Umugore urimo gukora imyitozo ngororamubiri imbere ye hariho utwuma umuntu ashobora kwifashisha aduterura kugira ngo abashe kubaka umubiri, arimo kugorora imbavu azamura amaboko ndetse ari nako agurura igituza.

Abagabo barimo gukora imyitozo ngororamubiri. Ni umugabo umwe, baryamishije ku gatanda, barimo kugenda bamufasha, ashobora kuba yagize ikibazo mu ngingo, barimo kugenda bamugorora kugira ngo akire.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byiganjemo iby'ikoranabuhanga, hariho telefone, mudasobwa, radiyo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gihe abaganga barimo gupima uko umubiri w'umuntu amaraso ye atera.

Umugabo ushobora kuba yagize ikibazo ku kaboko, arimo kugenda yikandakanda, kugira ngo arebe ikibazo afite, yahuye n'imvune arimo kugenda yoroshya ububabare, ari nabwo agenda akandakanda kugira ngo arebe ko yakira mu buryo bwo kugira ngo yifure.

Umugabo uvuye gukora imyitozo ngororamubiri afite icupa ry'amazi arimo kunywa, yitwikiriye igitambaro cy'isuku ry'ibara ry'umweru, yambaye agapira k'umukara, biragaragara ko yubatse umubiri, arimo kugenda anywa amazi gake gake.

Umuntu wavunitse barimo kugenda bahereza ubufasha bw'ibanze no kugenda bamuvura bazengurutsa bande aho yagiye akomereka ndetse yarambuye akaguru muganga arimo kugenda azengurukirizaho bande ndetse ari nako amuvura.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyo kwa muganga; bashiramo umuntu mu gihe barimo kugenda bareba ikibazo afite imbere mu mubiri; cyane cyane igihe afite uburwayi bwananiranye ndetse igihe yakomeretse mu imbere mu mubiri; iki cyuma cyinjira cyane mu mubiri gikoresheje imirasire yacyo mito y'izuba.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyo kwa muganga cyifashishwa mu kumenya uko ubuzima bw'umuntu bumeze cyane cyane igihe ari muri koma cyangwa arirembye cyane. Bigaragaza uko umutima uri kugenda utera.

Umuntu urimo kugenda yoroshya ububabare afite, biragaragara ko yavunitse akaboko, arimo gukoresha kano gatambaro kugira ngo agabanye uburibwe ndetse n'umuriro ugabanyuke mu mubiri.

Umusore usa n'aho yavunitse afite akantu arimo kugenda akandakandisha ku kagombambari bigaragara ko ariho hagize ikibazo, arimo kugenda yikandakanda agerageza kureba ko yakoroshya ububabare afite, arimo kugenda akanda akoresheje amaboko ye yombi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse bigizwe na byabindi umuntu ashobora kugenda yirukanka agihagazeho, wirukanka utava hamwe, ndetse bigaragara ko ari bya bindi bita muri jimu.

Umuntu wambaye imyenda yabugenewe, ikoreshwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, arimo kugenda agorora amaguru, umugongo ndetse n'akaboko, ahagaze ku kuma kameze nka twa tundi abantu bagenderaho tuba dufite amapine, bita sikete.

Imbuto z'amoko agiye atandukanye ndetse zigizwe n'amaronji, zikagirwa n'amapome ndetse n'imboga zirimo shufurera ndetse hariho n'icyuma baterura bashaka kubaka umubiri.

Ikinyamakuru kivuga ku miti itangwa, cyane cyane ku bintu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, ndetse bashobora kuba bakora na masaje, hariho n'umuntu wavunitse cyane bigaragara ko afite ububabare mu ivi.

Imbuto z'amoko agiye atandukanye, imizabibu, inyanya ndetse n'utundi tuburibwa tugiye dutandukanye dutoya tumeze nk'imiti, hariho kandi n'ibikoresho byo kwa muganga, hariho cya kindi gipima umuntu, icyo muganga ashira ku nda cyangwa se ku gatuza akumva ibibera mu mubiri, hari n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ikimera bita ikidariya, kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse ni kimwe mu miti ya gakondo, gikunze kuboneka ahantu henshi mu Rwanda ndetse gishobora kuvura uburwayi bugiye butandukanye.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, yiganjemo ibimera, hariho kandi n'udukoresho twifashishwa mu kuyisekura, kugira ngo babashe gukamuramo umuti umuntu ashobora kunywa, ahangaha bakoresha kano gasekuru ndetse n'umuhini mu gihe bari gusekura bino byatsi.

Umuti batera umuntu igihe yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, iyi ngiyi ni ya yindi iba yarakozwe mu bimera bigiye bitandukanye, uko uyu nguyu wanditseho serumu ushobora kongerera ubudahangarwa umubiri.

Ikimera gifite utuntu tw'utubuto dusa n'uduhiye, iki kimera kandi kimeze nk'indabo, aho umuntu ashobora kugitera ahantu hari ubusitani kugira ngo habashe kugaragara neza.

Ikimera bita umuravumba kivura indwara zigiye zitandukanye harimo inkorora, umutwe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ubishobora no kuvura kandi imvune mu gihe umuntu yahuye n'ikibazo cy'imvune barawifashisha mu kugukanda.

Udukombe tubiri duteretse ku meza two mu bwoko bw'ibirahuri turimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ndetse byatumye amazi arimo ahinduka, kuruhande hariho icyatsi giteretse kumeza bita umuravumba.

Agasahani karimo umuti hakabaho n'ikiyiko, hariho kandi amababi y'ibimera ndetse hakabaho na tangawizi bimwe mu byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amoko y'imiti agiye atandukanye hariho ibinini ndetse bigiye bitandukanye, hari bi byibumbye ibindi nabyo ijya gusa nk'umuhondo hari n'utwatsi tugiye dutandukanye tumeze nk'ibireti, hariho kandi n'uducupa turimo umuti ushobora kuba wo ususukika.

Agacupa gatoya karimo utuntu tumeze nk'amazi, karapfundikiye ndetse inyuma hariho y'igipapuro cyanditseho icyo uyu muti ukora, ni wa muti wifashishwa mu kuvura ndetse no kurwanya udukoko, bawitera ku ntoki, bakawusiga kugira ngo wice udukoko.

Amoko y'imiti igi itandukanye. aho harimo umwe muremure, uri mu icupa rimeze rya rindi rivamo umuti w'amenyo, ushobora kwifashishwa cyane cyane n'abaganga bavura ibijyanye na gakondo.

Umuti gakondo wo mu kimera bita igika kabamba, uri mu gacupa kameze nka ka kandi kavamo umuti umuntu ashobora gukoresha ari nko koza amenyo, kameze neza neza nk'aka korogate.

Imiti gakondo igizwe n'ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse n'agasekururo kifashishwa mu kuyisegura, igihe barimo kugenda bakora imiti gakondo ndetse yiganjemo ibyatsi bibisi bitoshye bishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Amavaze agiye atandukanye arimo n'ibimera bijyiye bitandukanye, ntabwo ari indabo kuko biragaragara ko ari ibimera bigiye bitandukanye bikorwamo imiti . Harimo igikakarubamba ndetse n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bw'imiti.

Ikimera bita umuravumba kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ndetse ni kimwe mu bikorwamo imiti gakondo. Iruhande rwacyo hari indabo zihishije zifite amabara y'umuhondo.

Imiti y'amoko agiye atandunye, imwe iri mu macupa maremare y'imihondo n'utundi tuntu tumeze nk'udukarito, ikorwa mu bimera bita ibikakarubamba, iyi ngiyi ni imwe mu miti Gakondo ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izanananiranye kwa muganga.

Icupa ririmo amavuta rigaragara ko yakozwe mu buki kubera ko handitseho amagambo agaragaza ko yakozwe mu buki, hariho n'ibishushanyo by'uruyuki rurimo kugenda muri bya bintu biba birimo ubuki bita ibishashara ndetse iri mu icupa ry'umweru.

Ibimera by'amoko agiye atandukanye byiganjemo ibishobora gukorwarwamo imiti, harimo ibimeze nka shufureri ndetse n'ibindi bisa n'ibara ry'icyatsi ndetse n'imboga z'amoko agiye atandukanye.

Umuti uri mu gacupa gacuritse kameze nka twa tundi tuvamo umuti w'amenyo, biragaragara ko ari ya miti gakondo ndetse kandi iriho ibishashara by'ubuki bigaragara ko mu bigize uyu muti harimo n'ubuki.

Umuganga uri muri ebo raboratwari afite umuti arimo kugenda ashira hejuru, arimo kugenda areba afata ibizamini ku muntu yagiye afatira ibizamini, arimo kugenda agenzura arebe uko bimeze ndetse ari na ko ashaka kumenya ikirimo cyihishe inyuma.

Ibiribwa by'amoko atandukanye ndetse birasa nkaho ari imiti, kuko hariho bimwe biri mu ifu ijya gusa umuhondo, ibindi birimo indabo z'umutuku, hari n'agasekuru gatoya bifashisha mu gusekura imiti.

Imiti gakondo y'amoko agiye atandukanye, imyinshi iri ku tuntu tumeze nk'amapanu ndetse harimo n'ibindi bikoresho bimeze nk'ibiti, ku ruhande kandi hariho akantu kameze nk'umunzani gafite ibiceri ku ruhande ndetse n'urundi ruhande rukabamo imiti.

Amacupa agera kuri ane imiti iyitandukanye buri cupa iririw ibara risa nuko nayo risa, irifite ibara ry'umuhondo naryo riri mu ibara ry'umuhondo irifite ibara rijya gusa na pinki naryo riri mu ibara risa na pinki n'irindi gutyogutyo.

Umuti upfunyitse mu isashi y'umuhondo, ndetse hariho ishusho y'uko uwo muti umeze. Ndetse biragaragara ko ari amagarama ijana nkuko bigaragazwa n'uko byanditse kuri iyi sashe bigaragara ko ariwo umuti gakondo ushobora kuwifashishwa mu buvuzi.

Umugabo wambaye agapira k'umweru k'akarakosite ndetse umutwe we nta musatsi uhari. Arimo kugenda asoroma imiti mu gihuru. Arimo kugenda akusanya ibyatsi bigiye bitandukanye bishobora kuvamo imiti igiye itandukanye.

Umuti wifashishwa mu guhindura umusatsi ndetse biragaragara ko wakozwe mu gikakarubamba, uyu muti ushabora kwifashishwa mu kurwanya imvuvu mu mutwe ndetse uyu muti wakozwe mu bimera.

Amoko y'imiti igiye tandukanye yiganjemo ikorwa mu bimera, hariho ibikakarubamba ndetse indi yifashishwa mu kuvura, ndetse no koza amenyo mu gihe umuntu ukora isuku yo mu kanwa.

Agasekururo k'umweru karimo ibyatsi birimo kugenda bisekurwa, ku ruhande hariho uducupa turimo utuntu tumeze nk'amazi ariko two turasa umuhondo biragaragara ko ari umuti bagiye bayungurura mu byatsi bagiye basekura.

Utu etajeri turimo imiti igiye itandukanye, harimo ikozwe mu mafu, harimo n'indi ushobora kunywa, ndetse biragaragara ko ari ya miti gakondo, imyinshi iri mu macupa apfundikije udufuniko tw'imikara, n'utundi dupfundikije imifuniko itukura.

Umuti uri mu icupa ry'umuhondo ndetse ku ruhande hari ibyatsi bigaragara cyane bita ibikakarubamba, ibingibi nabyo bikorwamo imiti gakondo kandi bivura indwara zigiye zitandukanye iboneka mu Rwanda hose.

Ikimera gifite indabo z'umweru, bigaragara ko ari ikimera gikorwamo imiti, ndetse n'ibya bimera biba bikungahaye mu kuvura indwara, ndetse byifashishwa mu gukorwamo imiti ya gakondo.

Imiti ya amoko agiye atandukanye, yiganjemo ikoreshwa mu buvuzi, harimo iyakozwe mu kimera bita igikakarubamba, kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Imyinshi iri mu macupa, y'imihondo.

Icupa ry'umukara ryanditseho amagambo yo mu cyongereza arisobanura ko ibiri muri iri cupa byakozwe mu buki ndetse rirasa umukara neza neza nk'uko ubuki buba busa.

Imiti gakondo y'amoko agiye atandukanye, ndetse yiganjemo ibimera bikiri bibisi ndetse n'ibindi byumye. Hariho n'isekuru yifashishwa mu gusekura ibimaze kuma mu gihe harimo gukorwa umuti runaka.

Amafunguro agiye atandukanye yiganjemo imbuto, hakabaho ikawa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ni amapaki agiye ateretse ahantu hamwe arimo ibintu ushobora gukoresha kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza.

Amacupa arimo imiti igiye itandukanye yiganjemo ijya gusa n'icyatsi ndetse n'indi irimo ifu yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye cyane cyane ikozwe n'imiti ya gakondo yayindi ikorwa n'abantu bavura ariko badakoresheje imiti yo kwa muganga.

Amoko y'imiti gakondo igiye itandukanye irambitse hasi hariho n'agasekururo kifashishwa musekura imiti imwe n'imwe kugira ngo iyirwe ifu ibashe kunyorwa ndetse hariho n'umuntu urimo kugenda asegura.

Imbuto z'amoko agiye atandukanye ziganjemo indimu, amacunga ndetse zishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye ndetse ni kimwe mu bintu byifashishwa mu gutunganya indyo yuzuye.

Ikimera bita ikidaririya gishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kiri ha ahantu wororera ibihingwa cyane cyane ibiti ndetse iki kimeraa gishobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gisa n'aho gitoshye, iki kimera gikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane izanananiranye. Ni kimwe mu gikorwamo imiti gakondo ishobora kuvura indwara zananiranye kwa muganga.

Igiti kirekire kiganjemo ibindi byinshi biri ku ruhande, cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ziganjemo izananiranye. Iki kimera bacyita umuravumba, kandi kivura amoko y'indwara agiye atandukanye.

Ifu ijya gusa n'icyatsi bigaragara ko ariy'ibyatsi bagiye basya bishobora kuba ari umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Uyu ni umuti gakondo ushobora kuvura uburwayi.

Imiti y'amoko ajyiye atandukanye, ndetse harimo imwe imeze nk'ibintu by'ibijumba, hariho tungurusumu, harimo imiravumba, ndetse n'ibindi bijya kumera nk'igikakarubamba. Ni imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti y'amoko agiye atandukanye, imwe iri mu mabara y'umweru ndetse imyinshi igiye igerekeranye bitewe n'uko ingana hari imitoya yo mu macupa mato ndetse n'indi iri mu macupa maremare.

Amoko y'ibimera agiye atandukanye ndetse buri shusho iriho ikimera bitewe n'ubwoko bwacyo. Iyi ni ya miti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye bitewe n'icyo umuntu arwaye.

Icyatsi kimeze nk'umusave gishobora gukorwamo imiti igiye itandukanye, kiracyari gitoya bigaragara ko aho gitewe nibwo kimaze igihe gitoya gitewe ni ukugira ngo gikure neza kandi kirasasiwe.

Aho bororera ibihingwa bigiye bitandukanye mu kinyarwanda ndetse cy'igitirano bahita muri pipiniyeri, aha ngaha hari ikimera bita umuravumba kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, ni kimwe mu bimera ndetse bivamo imiti gakondo.

Imiti iri mu macupa y'ibirahuri ndetse biragaragara ko yumye cyane, ni imiti gakondo, ndetse amacupa menshi apfundikije imifuniko itukura, andi ni mu mifuniko y'umweru, biragaragara ko yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukana.

Ikimera bita igikakarubamba gikorwarwamo imiti igiye itandukanye, harimo ibivura igisebe, ndetse kandi gishobora gukurwamo isabune, ndetse n'ibindi bikoresho by'isuku. Iki kimera kandi gikungahaye kuba cyakica udukoko tugiye dutandukanye.

Amoko y'imitigi itandukanye imwe iri mu ducupa ndetse no mu tujerekani, inyinshi yiganjemo ibinini ndetse ni yayindi ikorwa mu kimera bita igikakarubamba, ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane izananiranye, ni imwe mu miti gakondo.

Imiti igi itandukanye imyinshi ndi ikorwa mu bimera igizwe ndetse ipfunyitse mu macupa y'umuhondo ndetse biragaragara ko ari ya yindi ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera bita kapusine kifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye; ahantu kiri haritaruye, ni mu kibuga ndetse n'izindi ndabo byegeranye zirahishije; hari n'izifite indabo zitukura ndetse n'izindi zifite ibara ry'umweru.

Imiti y'amoko agiye atandukanye harimo imwe iri mu macupa iy'umweru, umuhondo ndetse n'indi iri mu ducupa dutoya utwinshi tumeze nka twa tundi tuzamo umuti wo koza amenyo bita korogate.

Ikimera kirandaranze hasi, gifite uturabo dusa neza ndetse biragaragara ko gishobora gukorwamo imiti, iki kimera urebye nta hantu wapfa kukibona mu Rwanda, kuko birasa nk'aho biboneka ahantu hake cyane.

imiti y'amoko agiye atandukanye harimo icuritse indi ihagaritse indi mu mashashi harimo ndetse n'ibinini uko biri kose iyi ni imiti gakondo kuko hariho ishushanyijeho ibimera bigiye bitandukana.

Umuti ugaragara ko uvura amibe indwara iza igafata mu mara yaho haba harimo inzoka zigiye zitandukanye, biragaragaza ko ariyo yonyine ishobora guhangana na amibe ku kigero cyo hejuru.

Amoko y'imiti igiye itandukanye ikozwe mu byatsi, harimo igiye isekuye, hakabamo n'indi nayo icyumye. Aha ngaha ni amoko y'imiti yifashishwa mu kuvura indwara mu buryo bwa gakondo.

Amacupa agera kuri atandatu acuritse ari mo umuti ushobora kwifashishwa mu kuvura amenyo cyangwa se mu gihe umuntu ari gukora isuku yo mu kanwa , iyi miti akenshi iba yarakozwe mu bimera ndetse ivura amenyo.

Ahantu hari h'ishyamba ndetse harimo ibyatsi bigenda bitandukanye. Gusa hari kimwe gitandukanye n'ibindi giteye cyonyine kiri ahantutu hari icyobo gisa naho cyatewe mu gihe ibindi byo byimejeje nibyatugiye bitandukanye iki cyonyine cy'urukwako ishobora kuba ari cyo gifite umumaro.